Urupapuro ruriho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe amabara agiye atandukanye afite ibara ry'umutuku, icyatsi ndetse n'ubururu, n'imibare ifite ibara ry'umutuku n'amagambo afite ibara ry'umweru hariho abantu babiri bafite imisatsi miremire uwo w'umukara wambaye agapira k'umukara ufite imisatsi y'igitaka wambaye umupira w'umweru.

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo agiye atandukanye, yandikishijwe amabara y'ubururu ndetse n'ubururu bwerurutse, rushushanyijeho utuntu dufite mpande eshatu, dufite amabara y'ubururu, n'ubururu bwerurutse inyuma hariho ibara ry'umweru.

Umuntu wambaye ingofero y'umukara irimo umweru, wambaye ikote rifite ibara ry'ubururu, umupira w'umweru, n'ipantaro y'umweru, uri mu kinyabiziga kiri mu bwoko bw'imodoka, ifite ibara ry'umukara hariho amagambo afite ibara ryandikishijwe mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, harimo n'umutuku.

Umuntu wambaye linete uri kumwenyura ufite umusatsi uringaniye wambaye ishati y'amaboko maremare y'umweru n'ikote ry'umweru handitseho amagambo afite amabara agiye atandukanye ubururu ndetse n'umweru n'ikote ry'umweru n'imibare ifite amaga ifite amabara y'ubururu.

Umusore ufite agatsatsi gake karinganiye uri guseka wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu, ufite akantu agantu mu ntoki gafite ibara ry'ubururu karimo akarongo k'umutuku n'ubururu werurutse cyane, wambaye isaha ku kuboko hirya hari amagambo handikishijwe amabara agiye atandukanye afite ibara ry'umweru hariho n'akarongo gafite ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umuhondo.

Ameza ariho igitambaro afite ibara ry'igitaka, hariho igitambaro gifite ibara ry'igitaka bari gukata umuntu wambaye ishati y'amaboko meremare ifite ibara ry'umweru, hariho akagozi gafite ibara ry'umutuku, hirya hakaba hari akabati karimo ibintu bigiye bitandukanye gafite ibara ry'igitaka ndetse hariho n'umweru.

Urupapuro ruriho umuntu uhagaze wambaye ingofero ifite ibara ry'umukara afite ubwanwa bufite ibara ry'umweru ndetse n'ikote rifite ibara ry'umukara n'ipantaro ifite ibara ry'umukara n'inkweto zifite ibara ry'umukara handitseho amagambo afite ibara ry'ubururu.

Abantu batatu bahagaze umwe ufite imisatsi miremire, ifite ibabara ry'umukara, wambaye ikote ry'umweru n'umupira w'umweru n'jipo y'umukara, n'undi wambaye rinete ufite karuvati ifite ibara ry'ubururu ishati y'umweru n'ikoti ry'umukara n'undi wambaye karuvati ifite ibara ry'umutuku harimo ishati y'umweru n'ikoti ry'umukara bafite igipapuro kiriho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umukara, umweru ndetse n'ubururu.

Icyapa gifite ibara ry'umweru ryandikishejeho amagambo afite ibara ry'ubururu harimo n'amagambo afite ibara ry'umweru, munsi hakaba hari akabaho gafite ibara ry'igitaka n'ibiti ku ruhande bifite ibara ry'icyayi.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru, ruriho urutonde rwibintu bigiye bitandukanye, rwandikishijwe amagambo afite ibara ry'umutuku, imibare ifite ibara ry'umutuku, harimo imirongo igiye ifite amabara agiye atandukanye afite ibara ry'ivu ndetse ariho n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umutuku.

Ubutumwa bufite ibara ry'umweru ruriho amagambo agiye atandukanye rufite ibara ry'umukara wandikishwa imibare ifite ibara ry'umukara, imibare iriho ibintu bigiye bitandukanye hariho udukubo udufureshi tugaragaza ibara ry'umutuku ndetse n'icyatsi.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibintu bigiye bitandukanye, harimo intebe zifite ibara ry'umukara n'umutuku, harimo umuntu wambaye umupira w'umukara n'utubati dufite ibara ry'icyatsi n'umutuku ndetse hakaba harimo na televiziyo.

mUuguzi n'umucuruzi bahurira bakaganira ku bijyanye n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, umuguzi akagabanyirixwa agera kuri mirongo itatu ku ijana, bakaba babimugezaho ku buntu ndetse bikaba byizewe.

Ameza afite ibara ry'igitaka, harimo utubogisi dufite ibara ry'umuhondo, ririho amagambo yandikishijwe ibara ry'umutuku, harimo icyo kunywa gifite imifuniko y'umuhondo, ifite ibara ry'icyatsi, hakaba hari n'akabati gafite ibara ry'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akabari, harimo ibinyobwa bisembuye bigiye bitandukanye biri mu kabati k'umukara ndetse n'icyuma cyabugenewe mu gukonjesha ibyo binyobwa kirikwakamo itara ry'ubururu, imbere hari intebe z'umukara ndetse n'akabati gafite ibara ry'ikiginaga.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru ruriho amabara agiye atandukanye, umuhondo, icyatsi, umukara, ruriho urutonde rw'ibintu bigiye bitandukanye byandikishijwe mu ibara ry'umukara ndetse n'icunga, ruriho n'ibiciro byabyo.

Ameza fite ibara ry'umweru ateretseho ibitabo bigiye bitandukanye, n'ibarahure bifite ibara ry'umweru n'ibitabo bifite ibara ry'umukara ibindi bifite ibara ry'ivu, ndetse n'igitaka, kakaba hariho ikiyiko ndetse n'ikanya byo kuba.

Icyapa kiri ku muhanda gifite ibara ry'umutuku ndetse n'icyatsi, kiriho icupa ry'inzoga risembuye, hakaba hashushanyijeho amagambo afite ibara ry'umuhondo, ndetse n'umutuku n'umweru. Hakaba hariho abatu bamwenyura bari guseka.

Icyapa kiri ku muhanda, hakaba ari ibinyabiziga bigiye bitandukanye birimo ubwoko bw'imodoka, bifite ibara ry'umweru, umukara, hari umuntu uri kugenda wambaye umupira w'umweru n'akataka k'ubucuruzi, gafite ibara ry'umuhondo, icyapa kiriho ikinyobwa gisembuye, gifite ibara ry'icyatsi n'umweru.

Ameza afite ibara ry'igitaka, ashushanyijeho akantu inyenyeri ifite ibara ry'icyatsi, iriho amagambo afite ibara ry'umweru n'akabati inyuma gafite ibyo kunywa bigiye bitandukanye, harimo amabara atandukanye umukara, icyatsi ndetse n'intebe zifite ibara ry'igitaka n'umukara.

Icyapa kiri ku muhanda cyanditseho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umukara, ndetse hariho umuntu urimo uranywa. Ufite icupa rifite ibara ry'icyatsi ririho amagambo afite ibara ry'umweru, n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru. Ririho icupa rifite ibara ry'icyatsi n'ikirahure.

Ameza afite ibara ry'umweru n'igitaka, afite intebe zifite ibara ry'umukara iriho akabati gafite ibara ry'umukara kariho ibintu byinshi bigiye bitandukanye bifite amabara y'umukara ndetse n'umuhondo.

Inzu iri ku muhanda iriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umutuku, ''sikoro'', inzu ariko ifite ibara ry'umuhondo iri ku muhanda.

Inzu y'ubucuruzi iri ku muhanda, imanitseho imyenda ifite ibara rigiye ritandukanye, harimo imipira ifite ibara ry'ivu, umukara, ubururu, umweru, uturongo tw'umweru n'umukara ndetse inyuma hakaba hari icyapa gifite ibara ry'umutuku n'umweru hariho ibyo kunywa bigiye bitandukanye bidasembuye.

Amazu y'ubucuruzi ari ku muhanda afite ibara ry'umuhondo, hirya hari inzu ifite icyapa gifite ibara ry'umutuku wijimye ndetse n'umweru, kiriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, hirya hari ibiti bifite ibara ry'icyatsi n'inyubako ziri inyuma zifite ibara ry'ivu.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru ndetse n'igitaka ruriho ibintu bigiye bitandukanye rwandikishijweho amagambo afite ibara ry'umukara, umweru ndetse n'icunga, hakaba hariho urutonde rw'ibintu bigiye bitandukanye hariho ibirahure bifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara.

Akabati kariho ibyo kunywa bigiye bitandukanye, gafite ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, bifite ibara ry'icyatsi umukara, ndetse n'intebe zifite ibara ry'umutuku, ushushanyijeho andi mabara, afite ibara ry'umweru ndetse iriho amagambo yandikishije ibara ry'umukara.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibintu byo kunywa bigiye bitandukanye ibisembuye n'ibidasembuye bifite ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi n'igikoresho gikoreshwa gikonjesha ibyo kunywa gifite ibara ry'umweru n'umukara ameza afite ibara ry'umukara, intebe zifite ibara ry'umukara hariho n'indabyo zifite ibara ry'icyatsi.

Ibyapa bibiri biri ku muhanda kimwe kinini kiriho ikirahure n'icupa ry'inzoga kiri mu bwoko bwa virunga kikaba gisa umuhondo n'icyatsi, ikindi kiri ku ruhande kikaba gifite amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umuhondo inyuma ari umutuku kiriho inzoga z'amazi.

Ameza afite ibara ry'umukara, hahagaze umuntu ingofero ifite ibara ry'umukara, ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'ivu, n'undi wicaye ku ntebe z'umukara wambaye ishati ifite ibara ry'umutuku, uturongo tw'umukara n'undi wambaye umupira w'amaboko magufi, ufite ibara ry'umweru.

Ameza afite ibara ry'igitaka ateretseho icupa rifite ibara ry'icyatsi, n'intebe zifite ibara ry'umukara, hicayeho umuntu ufite igikapu cy'umukara wambaye umupira w'amaboko maremareafite ibara ry'umukara, n'undi uhagaze wambaye umupira w'umukara ushushanyijeho ibintu bifite amabara y'umweru.

Ameza ateretseho ateretseho afite ibara ry'igitaka ateretseho urupapuro rufite ibara ry'umukara, ruriho urutonde rw'ibintu bigiye bitandukanye, rwandikishijweho amagambo afite ibara ry'umweru, ndetse n'andi afite ibara ry'icunga n'imibare ifite ibara ry'umuka ry'umweru.

Ameza ariho igitambaro gifite ibara ry'igitaka hejuru hariho amacupa y'ibinyobwa bisembuye bifite ibara ry'icyatsi biriho agafuniko gafite ibara ry'umuhondo n'akandi gafite ibara ry'umweru biriho amagambo yandikishije umweru ndetse n'umutuku.

Inzu y'ubucuruzi harimo ibintu bigiye bitandukanye ifite akabati gafite ibara ry'umutuku, n'umuntu uhagaze wambaye umupira w'icyatsi n'ipantalo y'umukara hirya hari ameza ariho ibitambaro by'umweru ndetse nako ubururu n'intebe zifite ibara ry'umukara n'umuntu hirya wambaye imyenda y'umukara wicaye.

Igitabo cy'umweru kirambuye kirimo amagambo menshi agiye atandukanye harimo ibara ry'umukara, umweru ndetse n'ibara ry'umutuku akaba ari amazina y'ibinyobwa ndetse n'ibiciro byabyo aho ugura anywa icyo abasha kwishyura ndetse akanaryoherwa.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akabari, irimo ibinyobwa bisembuye bigiye bitandukanye biri mu kabati ndetse n'amabara ari kwaka umuhondo, move, n'irindi riri hirya riri kwaka umweru, hari intebe zigiye zitandukanye ziri mu ibara ry'umukara ndetse n'ameza.

Ni urupapuro rw'umweru, ruriho urutonde rw'ibyo kunywa, n'igiciro cyabyo, amafaranga bigura, bikaba byandikishijwe mu ibara ry'umukara, hejuru hari andi magambo yandikishijwe mu ibara ry'umutuku.

Ameza afite ibara ry'umukara n'itara rifite ibara ry'umutuku, hakaba hariho ikinyobwa gisembuye kiri mu kirahure, hakaba hari umuntu wambaye umupira w'umukara wanditseho amagambo agiye atandukanye ufite ibara ry'umweru, inyuma ye hakaba hari akabati kariho ibyo kunywa bigiye bitandukanye bifite ibara ry'icyatsi bisembuye. e e e e e e e e

Umukobwa urikukabati gafite ibara ry'umukara n'umweru hariho ibirahure, ufite icupa rifite ibara ry'icyatsi wambaye ikanzu y'umukara, ufite agakomo kukuboko, ufite imisatsi isa umuhondo, uriguseka, inyuma ye hakaba hari umugabo wambaye rinete wambaye ishati y'amaboko mare mare y'umweru n'agapira gaciye amaboko k'umukara.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki, kiriho abantu babiri biceye, umwe yambaye ipantaro y'ubururu, ishati y'ubururu ndetse n'inkweto zifite ibara ry'igitaka, n'uwambaye ishati y'ubururu bwerurutse, ipantaro y'ubururu ndetse n'inkweto z'umweru, hakaba hariho icyapa hirya gifite ibara ry'umutuku n'umweru, kiriho amagamboga agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umweru.

Ameza afite ibara ry'igitaka ateretseho amasahani afite ibara ry'umweru ariho ibiribwa, hari abantu bambaye umupira ufite ibara ry'umukara uriho amagambo yandikishije ibara ry'umuhondo, n'undi wambaye umupira w'umukara uriho amagambo yandikishije ibara ry'umweru, n'undi uri hirya wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'ivu ufite akitero mu ijosi, ufite ibara ry'umukara n'utudomo tw'umweru, n'undi iri hirya wambaye umupira w'amaboko magufi wa.

Ameza afite ibara ry'umukara, inyuma hari kabati gafite ibara ry'umweru ririho ibyo kunywa bigiye bitandukanye, ibisembuye n'ibidasembuye, hariho amatara afite ibara ry'iroza ndetse n'ubururu, karimo amacupa afite ibara ry'umukara.

Umugabo wambaye ishati y'umweru na karavate y'umukara, n'umupira w'umukara muremure w'amaboko maremare, wambaye isaha ku kaboko; ufite igikombe gisa umweru, inyuma ye hariho akabati karimo ibyo kunywa bisembuye by'amako agiye atandukanye.

Umuntu ufite agasatsi karinganiye wambaye isaha ku kuboko, wambaye ishati y'amaboko maremare y'umukara, n'akamurinda kwandura k'agataburiya gafite ibara ry'igitaka n'umukara. Uri ku meza ufite agakombe mu ntoki gafite ibara ry'umweru, ameza afite ibara ry'umukara.

Ameza afite ibara ry'umutuku wijimye kiriho ibirahire birimo ibyo kunywa bigiye bitandukanye bifite ibara ry'umweru n'umutuku ndetse hariho n'icupa rifite ibara ry'umweru ririho agapapuro gafite ibara ry'ubururu bwijimye ndetse n'umweru, iyo aribyo kunywa bigiye bitandukanye bifite ibara ry'icyatsi.

inzu y'ubucuruzi hariho amzeza afite ibara ry'igitaka ateretseho ibinyobwa bigiye bitandukanye bifite ibara ry'umukara icyatsi hariho umuntu wambaye umupira ufite amaboko magufiya ufite ibara ry'ubururu umukara ndetse nakarongo k'umweru nundi ufite ibara ry'umutuku

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akabari irimo ibinyobwa byinshi bigiye bitandukanye bisembuye n'ibidasembuye, hari abantu babiri b'abagore bicaye ku ntebe z'umukara zifite imisego y'umutuku. Hari insangazamashusho iri kwaka imbere ya bo.

Ameza afite ibara ry'umukara hagazeho umuntu wambaye ishati y'amaboko maremare afite ibara ry'umweru n'ipantaro y'umukara, n'uwicaye wambaye umupira w'umukara, uhetse igikapu cy'umukara, n'umuntu uhagaze wambaye umupira n'ishati, y'amaboko maremare, ifite ibara ry'iroza, n'ipantaro y'umukara.

Ameza ateretseho ikirahure kirimo icyo kunywa gisembuye hakaba hariho kuteri zifite ibara ry'umukara, intebe ifite ibara ry'icyatsi, ishushanyijeho inyenyeri ifite ibara ry'umukara, yanditseho amagambo afite ibara ry'umweru, umuntu wicaye hirya wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'ubururu n'ipantaro y'ivu.

Icyapa kinini kiri ku muhanda kikaba gifite amabara y'umutuku cyandikishijwe amagambo afite ibara ry'umuhondo n'umweru, hakaba hariho abantu babiri hakaba hariho n'igicupa kinini cy'inzoga isembuye.

Ameza afite ibara ry'igitaka ateretseho ibinyobwa bigiye bitandukanye, n'ameza afite ibara ry'umukara hariho abantu bambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru, uwambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umukara ufite utuntu tw'umweru, n'undi wambaye umupira ufite ibara ry'umutuku wijimye w'umukara.

Urupapuro ruri ku meza rufite ibara ry'umweru rwandikishijweho amagambo afite ibara ry'umukara, hano ari ibara ry'umutuku rukaba ruriho n'ibiciro, imibare y'amafaranga yandikishijwe mu ibara ry'umukara.

Urupapuro rw'umweru ririho urutonde rw'ibintu bigiye bitandukanye; rwandikishijweho amagambo y'umukara, imibare y'umukara n'andi magambo yandikishijwe ibara ry'icunga. Bikaba biri mu mikono igiye itandukanye, bimwe byandikishijwe mu magambo matoya ibindi mu nyuguti nini.

Ameza ateretseho ibinyobwa bisembuye, kimwe kiri mu kirahure, ikindi kiri mu icupa rifite ibara ry'icyatsi, akapa gafite ibara ry'icyatsi n'umuhondo kandikishijwe amabara y'umukara harimo n'umutuku, umuntu wicaye hirya wambaye umupira w'umutuku urimo uturongo tw'umweru.

Inzu y'ubucuruzi iri ku muhanda ifite ibyapa bigiye bitandukanye bifite ibara ry'umutuku wijimye ryandikishijweho amagambo afite ibara ry'umweru n'igikapu gifite ibara ry'igitaka n'ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipi gifite ibara ry'umutuku n'umukara hakaba hariho imigozi ifite ibara ry'umuhondo n'icyatsi ndetse n'ubururu.

Umugabo wambaye umupira w'umukara ufite ibara ry'umweru n'akitero gafite ibara ry'umutuku wamwenyuye, ufite ibirahure bibiri mu ntoki birimo ibyo kunywa bisembuye uhagaze inyuma, hakaba hari akayetajeri karimo ibyo kunywa bigiye bitandukanye ibisembuye n'ibidasembuye.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akabari, harimo ikirahuri cyasutswemo ikinyobwa gisembuye cyuzuye, giteretse kumeza y'umukara inyuma hari ibinyobwa bigiye bisembuye bitandukanye ,biri mukabati gafite ibara ry 'ikigina , kuruhande hari mudasobwa.

Ameza iri ariho imashini ivanga ibinyobwa, ifite ibara ry'umweru n'umuntu wambaye ishati y'amaboko magufiya ifite ibara ry'umukara, inyuma hakaba hari akabati kariho ibinyobwa bigiye bitandukanye, bisembuye.

Inzu y'ubucuruzi irimo imeza n'intebe bifite ibara ry'igitaka n'umuntu uri kumeza n'ibikoresho bikoreshwa bikonjeshwa ibyo kunywa, n'akabati gafite ibara ry'igitaka, n'icupa rifite ibara ry'icyatsi rigiye ririho amagambo agiye atandukanye.

Ameza afite ibara ry'umukara ateretseho ubusanduku bufite ibara ry'umweru ndetse na kamwe gafite ibara ry'umukara, inyuma hari akabati karimo ibyokunywa gafite ibara ry'umukara, karimo ibyokunywa bigiye bitandukanye bisembuye bifite amabara agiye atandukanye, umukara.

Ameza afite ibara ry'umukara ataretseho igikombe gifite ibara ry'umweru hakaba hirya hari umuntu wambaye umupira w'umutuku uriho amagambo yandikishije ibara ry'umweru, ahandi hafite ibara ry'icyatsi n'undi wambaye umupira w'umweru.

Inzu y'ubucuruzi irimo abantu bagiye batandukanye harimo; umuntu wambaye umupira w'umukara, n'undi wampaye nundi wambaye umupira w'umweru n'undi uri hirya wambaye umupira w'umweru hirya hari igikoresho gikonjesha ibyo kunywa bigiye bitandukanye bifite ibara ry'umukara n'icyatsi.

Icyapa kiri ku muhanda gifite ibara ry'umutuku n'icyatsi, kiriho icupa rifite ibara ry'icyatsi, kiriho agapapuro gafite ry'umuhondo yandikishije amagambo afite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, hariho abantu bambaye imipira y'umukara, ingofero y'umukara ndetse hariho amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umuhondo, umutuku, ndetse n'icyatsi.

Ameza ateretseho ibyo kunywa bigiye bitandukanye; ibisembuye n'ibidasembuye hakaba harimo abantu bagiye batandukanye, uwambaye ishati y'umweru wambaye umupira w'umukara n'uwambaye ishati y'umukara n'uwambaye ishati y'umweru, wambaye ingofero y'umukara, wambaye agapira k'umweru karimo uturongo tw'ivu n'uwambaye agapira k'icyatsi.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki, hicayeho abantu babiri, umwe wambaye ipantaro ifite ibara ry'ubururu, ikote rifite ibara ry'ivu ryijimye, umumotari wambaye ikote rifite ibara ry'umukara, ipantaro y'umukara, inkweto z'umweru zirimo ibara ry'ubururu n'undi wambaye inkweto z'umukara zirimo uturongo tw'umweru.

Icyapa kinini kiri ku muhanda, giteye amabara y'umutuku wijimye n'umweru, kikaba kiriho icupa ry'inzoga, n'ikirahire kirimo inzoga, munsi yaho hakaba hariho imodoka ifite ibara ry'umweru.

Ameza ariho ibitambaro birimo ubwoko bw'igitenge bifite ibara ry'icunga ndetse n'icyatsi akaba ari ibyo kunywa bigiye bitandukanye bisembuye ndetse n'imitobe, akaba ari intebe zifite ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku, akaba hariho umuntu wicaye ufite wambaye ishati y'amaboko maremare afite ibara ry'ubururu n'undi wambaye agapira k'amaboko kagufi gafite ibara ry'umweru.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru ruriho urutonde rw'ibintu bigiye bitandukanye rwandikishijwe ibara ry'umukara ruriho amagambo afite ibara ry'umukara, n'imibare ifite ibara ry'umukara, hirya hariho akabara k'icyatsi.

Iyi ni resitora y'ubucuruzi hakaba harimo icyo kunywa bigiye bitandukanye ibisembuye n'ibidasembuye, hakaba hari ameza afite ibara ry'umukara, hakaba hahagazeho umuntu wambaye ishati y'umukara, hakaba hari n'intebe zirimo zisa umukara.

Ameza ateretseho igikapu zifite ibara ry'umukara intebe ifite ibara ry'umukara ndetse n'umuntu wicayeho ufite imisatsi miremire y'umukara wambaye umupira w'umukara no hirya kuyandi meza afite ibara ry'umukara ateretseho ibirahure bifite ibara ry'umweru n'umuntu wambaye ishati y'amaboko magufiya ifite ibara ry'ivu.

Ameza afite ibara ry'umweru n'igitaka ateretseho ibirahure by'ibinyobwa bisembuye iteretseho n'icupa rifite ibara ry'icyatsi, impande y'aho hicaye abantu babiri bambaye amapantaro y'umukara, hirya hari umuntu wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'umutuku, umukobwa ufite imisatsi miremire wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umukara.

Ameza y'umutuku n'umweru, hejuru hakaba hateretse ibyo kunywa bisembuye, hakaba hicaye abantu ku ntebe z'umutuku, umwe akaba yambaye agapira karimo uturongo k'umweru n'umukara, umwe akaba yambaye ak'ubururu k'umuhondo, undi akaba yambaye uw'ivu, inyuma hakaba hari umuntu wambaye umukara, ipantaro y'umukara n'umupira w'umukara.

Icyapa kiri ku muhanda gifite ibara ry'umukara hariho ibinyobwa bigiye bitandukanye bifite ibara ry'umutuku wijimye handitseho amagambo afite ibara ry'umweru n'ibiti ku ruhande bifite ibara ry'icyatsi n'ibinyabiziga biri mu bwoko bw'imodoka bifite ibara ry'umweru.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibyo kunywa bigiye bitandukanye ifite imeza, ifite ibara ry'itaka, hakaba harimo ibikoresho bikoreshwa bikonjenjwa ibyo kunywa bifite ibara ry'umeru n'umukara hakaba harimo n'ibndi binyobwa bigiye bitandukanye.

Ameza afite ibara ry'umukara afite udutara tw'umutuku n'intebe ifite ibara ry'umweru n'umukara, kiriho umuntu wambaye ishati y'amaboko muremure afite ibara ry'umweru n'ipantaro y'umukara n'undi wambaye ishati y'amaboko maremare ufite ibara ry'umweru n amashati maremare irimo uturongo twinshi tugiye dutandukanye dufite ibara ry'umukara ndetse n'umweru n'ubururu wambaye ipantaro y'umukara.

Amazu agiye atandukanye menshi afite ibara ry'umuhondo hariho icyapa gifite ibara ry'umweru n'umutuku kikaba kiriho amagambo yandikishijwe amagambo y'umweru inyuma hari ibiti bifite ibara ry'icyatsi hejuru hari n'inyubako ifite ibara ry'ubururu.

Ameza afite ibara ry'umweru n' umukara ateretseho urupapuro rufite ibara ry'umweru rwandikishijeho amagambo agiye atandukanye, hari umuntu ufite terefoni mu ntoki ngendanwa ifite ibara ry'umukara, agatambaro mu mutwe gafite ibara ry'umweru wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umweru.

Urupapuro rw'umukara rukaba rwanditseho amagambo agiye atandukanye harimo ayandikishijwe ibara ry'umutuku, ayandikishijwe ibara ry'umweru n'utundi tuntu turi ku ruhande yatwo tukaba dufite ibara ry'umuhondo.

Akabati kariho ibyo kunkwa bigiye bitandukanye harimo ibisembuye n'ibidasembuye bifite ibara ry'icunga bifite ibara ry'icyatsi biriho icyapa gifite ibara ry'ubururu n'umuhondo ndetse n'umweru n'umuhondo n'umutuku hameza ariho byo kunkwa bigiye bitandukanye bifite ibara ryumu.

Inzu iri ku muhanda ariko bafite icyapa gifite ibara ry'umutuku wijimye n'umweru, iyo nzu ikaba ifite amabara y'umweru n'ubururu, imbere yaho hakaba hari abantu bari kugenda babiri, umwe afite igare afite igikapu mu mugongo akaba yambaye ishati irimo amabara agiye atandukanye, umukara n'umweru.

Akabati gafite ibara ry'umweru karimo imisego myinshi, imisego ifite umwenda uri mu bwoko bw'igitambaro kiri mu ubwoko bw'igitenge, hakaba harimo amabara agiye atandukanye, umweru ndetse n'umukara, umwe ndetse n'umukara urimo uturonko tugiye dutandukanye harimo umutuku wijimye umweru ndetse n'icyatsi.

Inzu y'ubucuruzi irimo imyenda igiye itandukanye imanitse irimo amabara agiye atandukanye amashati afite ibara ry'umutuku, ubururu, umweru urimo umukara, umweru urimo ubururu ndetse n'igitaka ndetse n'ivu.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibintu bigiye bitandukanye harimo akabati gafite ibara ry'umukara n'ameza afite ibara ry'umweru amaguru y'umukara, harimo ibikapu, bifite ibara ry'umutuku n'umuhondo, inkweto zifite ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo ririmo umukara.

Inzu y'ubucuruzi irimo imyenda igiye itandukanye, harimo akabati gafite ibara ry'umweru karimo imyenda igiye itandukanye, ibitebo bifite ibara ry'umweru n'uumutuku, ndetse harimo n'ibifite ibara ry'umukara, icyatsi, ndetse harimo n'umweru. Harimo igitebo gifite ibara ry'umuhondo, harimo n'umukara n'umweru.

Inyubako y'ubucuruzi irimo ibintu bigiye bitandukanye, harimo ibikinisho by'abana bifite amabara agiye atandukanye, n'akabati gafite ibara ry'umweru, ndetse n'igitaka, ibikinisho by'abana bifite ibara ry'umuhondo, icunga, icyatsi, ndetse n'umweru n'umukara ndetse n'igitaka.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibintu bigiye bitandukanye imyenda ifite amabara agiye atandukanye umutuku, ubururu, ivu ndetse n'umukara ndetse n'ubururu burimo umutuku n'ingofero ifite amabara y'umutuku harimo ingofero amafuta amabara y'umuhondo itaka ndetse n'iroza.

Three people wearing different clothes, one is a woman with long black hair, wearing glasses, a long sleeved shirt that is black. One man wearing a blue blazer, and a white shirt and another one wearing a white shirt and a brown blazer. They are holding a poster with different vehicles in different colors that are cars.

Ameza afite ibara ry'igitaka ariho mudasobwa ngenda na terefone irimo ibipapuro bifite ibara ry'umweru, hariho abantu bahagaze bambaye imipira y'imyeru, ipantaro y'umukara iriho utuntu tw'umutuku n'uwambaye shati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umukara ipantaro y'ubururu, wambaye ipantaro ifite ibara ry'igitaka n'ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'ubururu.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'imidoka gifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara naho ikindi gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara kiriho akantu gafite ibara ry'umuhondo inyuma hari kontineri ifite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'imodoka, gifite intebe zifite ibara ry'umweru ndetse n'aho batwarira hafite ibara ry'umukara, ikibafasha kuyobora batwara gifite ibara ry'umukara. Hirya hakaba hari ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'imodoka, gifite ibara ry'umweru. Hirya hari ibyatsi bifite ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'imodoka gifite ibara ry'umweru hahagazeho abantu batatu umwe wambaye umupira w'amaboko mugufi ufite ibara ry'umweru, inkweto z'umukara, n'ipantaro yumukara, n'uwambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'ivu, ipantaro y'ubururu, inkweto z'umutuku n'umbaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'icyatsi cyerurutse, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara zirimo umwe.

Ameza afite ibara ry'igitaka, hariho amafaranga agiye atandukanye, afite ibara ry'umweru, igitaka ndetse n'ubururu, yandikishijweho imibare ifite ibara ry'umukara ndetse harimo n'umuhondo, izirikishijwe imigozi ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umutuku, n'umuntu wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'icunga ndetse n'umweru.

Amafaranga afite amabara agiye atangukanye harimo umutuku, umweru, ubururu amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu n'imibare yandikishijwe ibara ry'umukara imibare yandikishijwe ibara ry'ubururu ririmo n'umutuku hakaba harimo ibyatsi bigiye bitandukanye n'ibiti bifite amabara y'umukara.

Ameza afite ibara ry'igitaka ariho terefone ngendanwa ifite ibara ry'umukara, na ekuteri ifite ibara ry'umukara hariho umuntu wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'igitaka irimo uturonko dufite ibara ry'icyatsi, hakaba hariho amafaranga ku meza afite amabara agiye atandukanye, hariho imibare yandikishije ibara ry'igitaka hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru inyubako ifite ibara ry'igitaka.

Akamashini gafite ibara ry'umukara ndetse n'umweru kariho imibare yandikishijweho ibara ry'umutuku n'amagambo afite ibara ry'igitaka, hariho n'andi yandikishijwe ibara ry'umweru n'umukara, akamashini gakoreshwa kabara amafaranga, amafaranga afite ibara ry'igitaka ndetse n'umweru.

Igiceri kiriho amagambo agiye atandukanye, gifite ibara ry'igitaka imibare ifite ibara ry'igitaka, hariho insina ifite ibara ry'igitaka, igitoki gifite ibara ry'igitaka, ndetse n'amakoma afite ibara ry'igitaka, n'amagambo yandikishije ibara ry'igitaka, handitseho nkuru y'u Rwanda banki.

Ameza afite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, ariho umuntu ufite, wambaye ishati y'amaboko maremare afite ibara ry'ubururu afiteho amafaranga afite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, hakaba hirya hariho amvirope ifite ibara ry'umweru.

Igikombe kirimo icyo kunywa harimo ikiyiko umuntu ufite terefone igendanwa mu intoki ufite imisatsi iboshye ifite ibara ry'umukara wambaye igitenge gifite amabara agiye atandukanye harimo; iroza, umuhondo, icunga ndetse n'umukara.

Ameza ariho igitambaro kiri mu bwoko bw'igitenge gifite ibara ry'igitaka ndetse n'umukara, hariho isaha n'ifite ibara ry'umutuku, ndetse n'umweru n'amandazi, n'indi sahani ifite ibara ry'igitaka, iriho imyumbati, ibikombe bibiri, n'ikirahure kirimo amata, n'intebe ifite ibara ry'ubururu.

Ubwo wibajije ikoranabuhanga ni byiza cyane kuko nanone ukugira ubunebwe ntabwo ujya uva mu rugo ngo ubashe kutemberera n'ahantu dutuye uko hameze ariko nanone birafasha niyo unaniwe ntabwo ushobora kuva iwanyu unaniwe cyangwa utashye bwije ngo ujye ku isoko guhaha. Nkuko ubibone iki ni ikirango kerekana imyenda y'iminyarwanda n'inkweto zikorerwa mu rwanda nawe wabyihangira

Ameza ateretseho amvilope ifite ibara ry'igitaka n'amacupa agiye atandukanye afite imifuniko y'ubururu, afite ibara ry'umweru n'agapapuro kariho ibara ry'umweru n'ubururu, yandikishijweho amagambo afite ibara ry'ubururu, inyuma hari urupapuro rufite ibara ry'umweru.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibintu bigiye bitandukanye, harimo umuntu wambaye igitambaro kiri mu bwoko bw'igitenge, gifite ibara ry'umutuku, umukara ndetse n'umweru n'agapira hejuru gafite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, hirya hari uwambaye umupira ufite ibara ry'ivu urimo umweru ndetse ugiye ushushanyijeho ibintu bigiye bitandukanye n'umugabo wambaye umupira w'umweru urimo uturongo tw'umukara ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'ubururu.

Bamwe mu batunze imbuga nkoranyambaga zo kugura cyangwa ugurisha ukoresheje ikoranabuhanga, bakunze kuba bagirana imikoranire n'abantu bagurusha amasambu yabo, igihe baba bakeneye amafaranga yo gukora igikorwa kimwe cyangwa ikindi mugihugu cy'u Rwanda.

Ameza ariho igitambaro gifite ubururu n'umweru ndetse n'umukara, hejuru hariho amashashi arimo ibiribwa bigiye bitandukanye, amabenya ndetse harimo na cyecye, hakaba hari n'ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'igitaka kijimye.

Ameza afite ibara ry'igitaka ateretseho isiniya iriho ibiraha bigiye bitandukanye byinshi bikozwe mwifarini, amazi, amata ndetse n'umunyu n'umusemburo bikaba bifite ibara ry'igitaka.

Ameza afite igitambaro afite ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umukara ateretseho akabido gafite ibara ry'umweru n'ikirahure gifite ibara ry'umweru urimo amata n'intebe ifite ibara ry'umweru hirya hari akabati gafite ibara ry'umweru.

Ameza ateretseho igitambaro gifite ibara ry'umweru. Hariho uducupa tugiye dutandukanye dufite ibara ry'umweru ndetse n'iroze, n'utujerekani dufite ibara ry'umweru. Hari umumama wambaye agapira k'umweru n'agataburiya k'umukara n'akanatirere gakeya ku mutwe. Hirya hari inzu itaste ifite ibara ry'umweru ndetse...

Ameza afite ibara ry'igitaka, hejuru hariho amajage n'ibirahure birimo amata. Yicayeho abantu bicaye ku ntebe z'umweru. Umwe yambaye umupira w'umukara n'ishati y'amaboko maremare irimo uturongo tw'umutuku n'umweru n'ubururu, n'undi wambaye umupira w'ubururu urimo akarongo k'ivu.

Ameza afite ibara ry'umukara ndetse n'idirishya risize ibara ry'icyatsi, hakaba hariho igikoresho gikoreshwa gikonjesha ibyo kunywa bigiye bitandukanye gifite ibara ry'umweru rikaba ricometse.

Uducupa turi mu gikoresho gikoreshwa gikonjesha ibintu byo kunywa bigiye bitandukanye, utwo ducupa dufite ibara ry'iroze turiho agapapuro gafite ibara ry'icunga ndetse hariho amagambo yandikishije ibara ry' icyatsi n'umukara.

Ni amazu y'ubucuruzi ari ku muhanda, afite ibyapa bigiye bitandukanye. Icyapa cy'ubururu, icyapa cy'umutuku, icyapa cy'umweru n'imodoka hanze ifite ibara ry'umweru, n'umuntu gutambuka wambaye ipantaro y'ubururu n'agapira k'umuhondo kererutse, n'akandi mu ijosi k'umutuku.

Ameza ateretseho ijage ebyiri, imwe ifite ibara ry'umweru, indi ifite ibara ry'igitaka n'ibuni ifite ibara ry'umuhondo n'indobo ifite ibara ry'icunga, umwana wambaye ikanzu ifite ibara ryivu n'undi wambaye ipantaro ifite ibara ry'ikoboyi n'inkweto z'umukara n'umupira w'umukara n'igiti kiri ku ruhande gifite ibara ry'icyatsi.

Umuryango ufite ibara ry'ubururu, harimo amacupa agiye atandukanye menshi afite ibara ry'ubururu y'amazi akaba afite umufuniko ufite ibara ry'umweru wandikishijweho amagambo afite ibara ry'ubururu.

Ameza ateretse anvelope ifite ibara ry'igitaka iriho n'uducupa dufite ibara ry'umweru turimo amazi n'imifuniko y'ubururu, iriho igipapu inyuma kiriho ibara ry'umweru n'ubururu hejuru iriho amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu.

Ameza afite ibara ry'ubururu ryerurutse hejuru hakaba hariho akabido k'umweru impande yaho hakaba hahagaze umuntu wambaye ipantaro y'ubururu hirya hari undi wambaye ipantaro yivu n'inkweto z'umutuku bwijimye.

Inzu y'ubucuruzi ifite inkuta zisize amarangi y'ubururu mo imbere, ndetse n'akabati gasize irangi ry'ubururu, harimo ibinyobwa bigiye bitandukanye; amazi, imitobe itandukante, ndetse n'amata. Ku ruhande hari icyuma cyabugenewe mu gutunganya amata, hariho indobo y'ubururu.

Akabati karimo imbuto zigiye zitandukanye, zifite amabara y'umuhondo, umweru, umutuku, biri mu gasanduku gafite ibara ry'umweru, n'imineke iri kuruhande ifite ibara ry'umuhondo, hakaba harimo ibintu bigiye bitandukanye, na hirya hari akantu k'akabati gafite ibara ry'umweru.

Ameza afite ibara ry'igitaka hejuru hariho agatebo gafite ibara ry'ivu mo imbere karimo agapapuro gakoreshwa bihanagura gafite ibara ry'umweru kari mu gashashi gafite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru kandikishijweho amagambo afite ibara ry'umukara.

Ameza ariho isahani afite ibara ry'igitaka ririho imigati, imigati ikaba ikozwe mu ifarini, amagi, amata, ndetse na n'umusemburo n'amazi. Akaba hariho agatambaro hirya gafite ibara ry'umweru ndetse n'icunga n'iroza.

Udusanduku duteretse ku meza afite ibara ry'ubururu, udusanduku dufite ibara ry'icyatsi turiho amagi hahagazeho umuntu wambaye umupira ufite ibara ry'icunga ryandikishijweho amagambo afite ibara ry'umukara.

Isahane ifite ibara ry'igitaka iriho ibiraha byinshi, bigiye bitandukanye bikozwe mu ifarini, amazi, umusemburo, umunyu, ndetse n'amagi, ari afite ibara ry'umuhondo.

Ameza afite ibara ry'umweru, ateretseho isahani ifite ibara ry'umweru, n'ikirahure kirimo amata, hirya hari akabati gafite ibara ry'ivu, kariho ibintu bigiye bitandukanye, kariho akantu kandikishijweho amagambo afite ibara ry'umweru, n'amagambo y'umukara.

Umukobwa w'imibiri yombi, w'agasatsi karinganiye wambaye ishati y'umukara y'amaboko magufi, uri gusuka amata mu birahure bine biri ku isiniya, isiniya ikaba iri ku meza ifite agatambaro k'umweru n'ubururu, he inyuma hakaba hari itaburiya y'umweru, impande hakaba hari akabati.

Ameza afite ibara ry'umweru, ateretseho akabido gafite ibara ry'umweru, n'igikapu gifite ibara ry'umukara n'umweru, n'umuntu wambaye ikanzu y'umutuku n'inkweto z'icyatsi, hirya hakaba hari umutaka w'ubucuruzi ufite ibara ry'umutuku, na.

Ameza afite ibara ryigitaka, intebe ifite ibara ry'ubururu, hahagaze umuntu wambaye ipantaro ifite ibara ry'ivu n'umupira w'umukara w'amaboko magufi, n'undi wicaye wambaye ikote ry'ubururu ufite ibara ry'ikoboyi, wambaye ikanzu ifite ibara ry'icyatsi.

Inzu y'ubucuruzi ifite inkuta zisize amarangi y'umweru mo imbere ndeste n'intebe z'umweru, n'icyuma cyagenewe gutunganya amata, harimo umugore w'imibiri yombi ufite imisatsi miremire y'umukara, wambaye ikote ry'umukara, ndetse n'ipantaro y'ikoboye n'inkweto y'umukara, inyuma hari akabati karambitsemo utubido.

Intebe zifite ibara ry'umweru indi y'ubururu, umuntu uhagaze wambaye ishati ifite amabara agiye atandukanye umweru, ubururu ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'umukara. Hakaba har ibyo kunywa bigiye bitandukanye, ibisembuye n'ibidasembuye n'igikoresho gikoreshwa gikonjesha ibyo kunywa.

Ameza afite ibara ry'igitaka, ateretseho ibintu bigiye bitandukanye, akabido gafite ibara ry'umuhondo, ndetse na teremunsi zifite ibara ry'umutuku, umuhondo, n'ubururu, inyubako ifite ibara ry'umuhondo, n'umumama wambaye igitenge gifite ibara ry'ubururu, umweru, ndetse n'umuhondo, n'ingofero mu mutwe, ifite ibara ry'igitaka.

Umusore uri guseka wambaye umupira ifite ibara ry'icyatsi cyijimye, wambaye isaha ku kuboko, wambaye ipantaro ifite ibara ry'igitaka, ufite akabido gafite ibara ry'umuhondo werurutse ndetse n'agafuniko k'ubururu, hakaba hari umusaza uri hirya wambaye rineti, wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'umutu n'umweru, uriho........

Ameza afite ibara ry'umweru, hejuru hakaba hariho ikirahure kirimo amata gifashwe n'umuntu, impande ye hakaba hari undi uri kunywa amata, hirya yabo hari umugabo n'umugore wicaye ku meza y'umweru, ku ntebe z'umweru, bari bari kunywa amata, inyuma hakaba hari umukobwa uri ku kabati, wambaye agapira k'amaboko maremare gasa icyatsi.

Agataka gafite ibara ry'umutuku, kariho ameza afite ibara ry'ubururu, intebe z'ubururu, intebe z'ubururu n'ameza y'umweru, imbere hafite icyapa gifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, n'umuryango ufite ibara ry'ubururu.

Isahani iriho ibyo kurya ndetse ikaba ifite utubara tw'ubururu n'umutuku n'umweru, hejuru hakaba hariho ibyo kurya, capati ikaba iteretse ahandi hantu h'umweru.

Amabuni atatu agererekeranyije, afite ibara ry'umweru ririho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, ririho agapapuro gafite ibara ry'ubururu, imbere hakaba hari igikoresho gikoreshwa gikojeshwa ibyo kunywa bigifite ibara ry'umweru.

Umukobwa wambaye agapira k'umweru k'amaboko maremare, ikabutura ifite ibara ry'iroze, inkweto zifite ibara ry'umweru ndetse n'igitaka, hakaba hari ijagi iteretse ku kameza gafite ibara ry'umweru n'umufuniko ufite ibara ry'umutuku, hakaba hahagaze impande ye umugabo wambaye ishati ifite ibara ry'ivu.

Icyapa kiri ku muhanda kiriho ibyo kunywa bitandukanye amata, imitobe ndetse n'amazi, kikaba kiriho amagambo yanditseho ikaze byandikishijwe mu ibara ry'ubururu ryerurutse.

Ameza igitambaro k'ivu kiriho akabido gafite ibara ry'umweru n'umufuniko w'umweru, hirya hari umuntu uhagaze wambaye ipanantaro yubururu hirya hari undi wambaye ipanantaro y'umukara

Umuntu wambaye umupira w'umukara uri impande y'ibikoresho bikoreshwa bikonjesha ibyo kunywa, hakaba hariho igipapuro cy'ubururu cyandikishijweho amagambo y'ibara ry'umweru ngo amata ni ubuzima, amata ari mu kirahure.

Ni ameza, hejuru ateretseho indobo irimo keke, keke ifite ibara ry'umuhondo, indobo ifite ibara ry'umweru, hirya hari telefone ngendanwa.

Akabati karimo ibyo kunywa bigiye bitandukanye, imitobe, ibisembuye n'ibidasembuye hakaba hirya n'imineke inyuma hari umuntu wambaye ingofero y'umutuku, hano hari umuntu wambaye ikanzu y'ubururu, n'akitero k'umweru, n'agakapu k'umukara.

Ameza hejuru hakaba hariho igitambaro kiri mu bwoko bw'igitenge gifite ibara ry'umukara n'igitaka hejuru hakaba hariho isahani iriho irindazi n'agapapuro ko kuyihanaguza.

Ameza afite ibara ry'umweru ariho akabosi karimo ibintu bigiye bitandukanye bifite ibara ry'igitaka, akabosi gafite ibara ry'ivu, intebe ifite ibara ry'igitaka hari intebe ifite ibara ry'umweru iriho akabati karimo amajerekani afite ibara ry'umweru ndetse n'amazi afite ari muducupa

Ameza afite ibara ry'igitaka riri hariho udusanduku tubiri kamwe gafite ibara ry umuhondo kandi gafite ibara ry icyatsi cyandikishijeho amagambo afite ibara ry umweru kashushanyijeho igikombe inyuma hakaba hari ducupa tugiye dutandukanye, agasa igitaka, agasa ubururu, hirya igikoresho gikoreshwa gikongeshwamo ibyo kunywa.

Ameza afite ibara ry'umukara, ateretseho isahani ifite ibara ry'umweru, hariho keke zifite ibara rigiye ritandukanye, zikozwe mu ifarini, amagi ndetse n'amazi, umusemburo, akandi gahindura ibara, gafite ibara ry'igitaka. Hakaba hariho ibara ry'umuhondo ndetse n'igitaka bivanze.

Ameza afite ibara ry'igitaka ateretseho udusandugu, tubiri dufite ibara ry'umuhondo, ndetse n'umweru ariho umukobwa wambaye ikote rifite ibara ry'ikoboyi ry'ubururu n'ikanzu y'icyatsi, hari umugabo wambaye umupira ufite amaboko magufi ufite ibara ry'umweru, wandikishijeho ririho amagambo agiye atandukanye afite ibara ry'ubururu ndetse n'umukara wambaye ipantaro y'umukara.

Ameza afite ibara ry'ubururu ndetse n' umweru n'umukara. Ariho amakeke ndeste n'amabenya afunitse mu mashashi afite ibara ry'umweru, akaba yo afite ibara ry'igitaka ndetse n'umuhondo.

Umuntu wicaye ku ntebe ifite ibara ry'umweru wambaye inkweto z'igitaka n'akarongo ku mweru ufite akabuni ku mweru n'ishati y'amaboko maremare, ifite ibara ry'igitaka urigusuka amata mu ijage ifite ibara ry'umweru n'akabati ku ruhande gafite ibara ry'ubururu gateretseho ibikombe bifite amabara y'umweru.

Ameza afite ibara ry'umweru ririho aka jage gafite ibara ry'ubururu hari umuntu uhagaze wambaye ijipo yumukara n'agapira gafite ibara, amabara agiye atandukanye y'igitenge harimo umuhondo ndetse n'ubururu hakaba hari hirya uwundi muntu wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umutuku wijimye ndetse n'umukara, mu kabati harimo ibyo kunywa bigiye bitandukanye birimo nk'imitobe.

Umuntu ufite isahani y'umweru iriho amandazi menshi akozwe mu ifarini, amagi, amata, amazi ndetse n'umusemburo n'umunyu bifite ibara ry'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi ishushanyijeho utubido tw'umweru n'ubururu n'umutuku, bigaragara ko ari utw'amata, n'ameza asa umweru n'intebe zisa igitaka.

Isahane ifite ibara ry'umweru iteretseho amandazi agiye atandukanye akozwe mu ifarini, umunyu, amagi, amata, umusemburo ndetse n'amagi akaba afite ibara ry'umutuku wijimye.

Uducupa turimo ibyo kunywa bigiye bitandukanye, bifashe, bifite ibara ry'umutuku n'umweru n'icyatsi, ririho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara, ufite utundi dufite amagambo ariho ibara ry'ubururu n'icyatsi.

Umukobwa ufite imisatsi miremire iziritse y'imikara uri guseka, wambaye umupira w'umukara, ufite ikinyobwa mu ntoki, n'undi ufite imisatsi iziritse wirabura, umwenyuye, wambaye umupira w'amaboko magufiya ufite ibara ry'ubururu bwererutse, harimo akarongo k'umutuku, ufite ibinyobwa bigiye bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi ifite inkuta zisize amarangi y'ubururu mo imbere, ndetse n'akabati kari mu bwoko bw'imbaho gasize amarangi y'ubururu; harambitseho ibinyobwa bigiye bitandukanye; amazi, imitobe ndetse n'amata; ku ruhande hari udupfunika dufite ibara ry'ubururu n'umweru.

Akabati karimo ibyo kunywa bitandukanye: imitobe, ibisembuye ndetse n'imineke ifite ibara ry'umuhondo. Hakaba hariho umuntu wambaye ingofero y'umutuku n'undi wambaye ikanzu y'ubururu n'akitero k'umweru n'ishakoshi ifite ibara ry'umukara.

Akabati gafite ibara ry'umweru gateretseho ibikombe bifite ibara ry'umweru, n'ibirahure bifite ibara ry'umweru hejuru hariho indobo irimo amandazi akozwe mu ifarini, umunyu, umusemburo, amazi amagi ndetse n'amata, hasi hakaba hariho isahani rifite ibara ry'umweru.

Inzu isize irange ry'unururu hakaba harimo umukobwa uri gucuruza wambaye inkweto zifunguye, ipantalo y'umukara, agapira karimo ubururu n'umwana uri ku ruhande wambaye inketo z'ubururu n'ikabutura icyatsi cyerurutse n'umupira ufite ivu n'ubururu hakaba hirya hari umusore wambaye inkweto z'umutuku ipantalo y'umukara n'umupira w'ubururu ufite amabara n'injerekani ifite ibara ry'umweru.

Isahani ifite ibara ry'umweru, iteretseho amandazi menshi, akaba akozwe mu farini, umunyu, isukari, amagi, amata, ndetse rimwe rikaba risatuyemo kabiri.

Ameza afite ibara ry'igitaka hariho agatambaro gafite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, hakaba hariho akantu gafite ibara ry'umutuku, ni aka harimo keke iri mu gasashi kabugenewe gafite ibara ry'umweru, keke zifite ibara ry'umuhondo.

Imeza ifite ibara ry'igitaka n'intebe ifite ibara ry'ubururu, hahagaze umuntu wambaye ipantaro ifite ibara ry'ivu, umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umukara, n'umukobwa wicaye wambaye ikote rifite ibara ry'ubururu n'ikanzu ifite ibara ry'icyatsi.

Abantu batatu bari munzu y'ubucuruzi umwe wambaye umupira w'umutuku ipantaro y'ubururu, n'undi wambaye umupira w'umukara ipantaro y'umukara, uwambaye ipantaro y'umukara n'agashati k'umutuku bakaba bambaye ingofero zifite ibara ry'umukara ryandishijweho amagambo afite ibara ry'umutuku bakaba bafite uducupa dufite ibara risa iroza.

Ameza ariho igitambaro kiri m'ubwoko bw'igitenge gifite ibara ry'igitaka hariho abantu bari kunywa amata ari mu ikirahure hakaba hariho n'ijage irimo amata umuntu wambaye umupira w'umweru n'umukara n'uwambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'amaboko maremare afite ibara ry'umweru, umutuku ndetse n'ubururu.

Ibitebo bifite amabara agiye atandukanye, biri mu cyatsi, ubururu, ndetse n'umukara, bikaba birimo ibyo kunywa bigiye bitandukanye, biri mu ducupa bifite ibara ry'iroza ndetse n'umweru, akaba ari imitobe igiye.

Ameza ateretseho utuvido tugiye dutandukanye dufite ibara ry'umweru n'agatenywani gafite ibara ry'ubururu, ijage ifite ibara ry'icyatsi bari gusukamo amata. Umuntu wambaye ingofero y'umweru, umupira ufite ibara ry'icyatsi wandikishijweho amagambo y'umweru n'intebe y'umweru n'abantu bari ku ruhande.

Ameza ateretseho isiniya iriho ibiraha bikozwe mu ifarini, umunyu, amazi, umusemburo ndetse bikaba bifite ibara ry'igitaka.

Ni umuntu ufite agacupa muntoki gafite ibara ry'umukara ryandikishijwe amagambo y'umweru nandi magambo y'umutuku hirya yaho hakaba hari ibindi bintu byo kunkwa.

Ameza afite ibara ry'umukara, iteretseho isahani, afite ibara ry'umweru, iriho amandazi akozwe mu ifarini, amagi, amata, amazi ndetse n'umusemburo bikaba bifite ibara ry'umuhondo.

Amacupa ateretse ku meza maremare afite ibara ry'ubururu ndetse ifite imifuniko y'ubururu hariho udupapuro dufite ibara ry'umweru ry'andikishijweho amagambo afite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, hakaba hirya hariho igikarito gifite ibara ry'igitaka kiriho amagambo y'andikishijwe ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku.

Ameza ariho gitambaro kiri mu mu ubwoko bw'igitenge gifite ibara ry'umutuku, umukara, icyatsi ndetse n'umuhondo, hejuru hateretseho igikombe kirimo amata, hirya hakaba hari akabogisi gafite ibara ry'ubururu.

Ameza ateretseho ibyo kunywa bigiye bitandukanye nk'imitobe n'amata afite amabara agiye atandukanye ari agiye atambitse afite amabara agiye atandukanye; ubururu n'umuhondo n'umweru n'akabido gafite ibara ry'umweru n'agacupa gafite ibara ry'iroza.

Ameza afite ibara ry'umweru, hariho amasahani afite ibara ry'umweru, hariho utubido dufite ibara ry'umweru hariho abantu babiri bafite ibikombe birimo amata, bafite na keke, umuntu wambaye ishati iri mu bwoko bw'igitenge irimo ibara ry'umuhondo.

Umuntu ufite ijage, ufite n'igikombe rifite ibara ry'icunga ,ijage ifite ibara ry'umweru hirya hari akabati karimo ibikombe rifite amabara agiye atandukanye icyatsi, umweru werurutse, umuhondo, umutuku, ivu ndetse inyuma hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu.

Ameza hejuru akaba ateretseho anvelope ebyiri n'uducupa tw'amazi twinshi, tukaba dufite agapapuro kariho ibara ry'ubururu n'umweru inyuma hakaba hari akandi kabaho kari inyuma gasize ibara ry'umweru.

Inzu y'ubucuruzi ifite inkuta zisize amarangi y'ubururu mo imbere ndetse n'amakaro ashashe hashi ku ruhànde hari intebe z'umweru n'ameza y'umweru harimo icyuma gishinzwe gutunganya amata kiriho icyapa gifite ibara ry'ubururu n'umweru handitseho ijambo inyange . Hasi hari ibido y'umweru ndetse ni .

Imeza ifite ibara ry'ubururu yandikishije amagambo y'umweru hejuru hakaba hariho ibyo kunywa byinshi bigiye bitandukanye nk'amata impande yaho hakaba hari abantu babiri bambaye imipira y'ubururu inyuma yaho hari ibindi byo kunywa.

Inzu y'ubucuruzi iri ku muhanda, iriho ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki, hariho ibyapa bigiye bitandukanye gifite amabara y'ubururu n'umweru hariho ibyo kunywa bidasembuye, hakaba hariho hirya umutaka w'ubucuruzi ufite ibara ry'umuhondo.

Imeza ifite ibara ry'umweru, n'amaguru afite ibara ry'umukara, intebe zifite ibara ry'igitaka, ifite n'amaguru afite ibara ry'umukara, hirya hari akasanduku karimo ibi byo kurya bigiye bitandukanye, hirya hakaba hateretse igikoresho gikoreshwa gikonjeshwa ibyo kunywa, ni n'amajerekani ari ku kabati afite ibara ry'umweru.

Ameza ateretseho igikombe n'akayiko , umuntu wicaye ufite ishakoshi ifite ibara ry'umukara, wambaye igitambaro kiri mu bwoko bw'igitenge gifite amabara agiye atandukanye harimo iroze, umuhondo, umweru, umukara. Hirya hari igikoresho g'ikoreshwa gikonjesha ibyo kunywa bigiye bitandukanye ni ntebe ifite ibara ry'ubururu.

Ameza afite ibara ry'igitaka ateretseho ibintu bigiye bitandukanye, hariho mudasobwa ifite ibara ry'umukara, udupapuro dufite ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru n'igiseke gifite ibara ry'igitaka ndetse hariho umuntu wambaye umupira w'umukara, ipantaro y'ubururu n'isaha ifite ibara ry'umukara n'uwambaye umupira w'umweru n'ipantaro ifite ibara ry'ivu n'igikapu cy'umukara.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi kiriho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe amabara y'icyatsi ndetse n'umukara n'umweru hariho imibare yandikishijwe ibara ry'umukara, ndetse hakaba hariho n'amagambo agiye atandukanye afite ibara ry'icyatsi.

Umutu ufite terefone mu ntoki ngendanwa ifite ibara ry'umukara n'imbere hasa umukara, handitseho amagambo yandikishije ibara ry'umweru amagambo agiye atandukanye harimo n'andi yandikishijwe ibara ry'umukara.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru ruriho amagambo agiye atandukanye, yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse harimo n'akabara gafite ibara ry'ivu, hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, hariho n'amabara agiye atandukanye icunga, ubururu ndetse n'icyatsi.

Urupapuro ruri muri mudasobwa rufite ibara ry'umweru ryanditseho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umukara harimo nagafite ibara ry'ivu ririho hasi akaba akantu kakazu gafite ibara ry'ubururu ndetse harimo nakandi gafite ibara ry'icunga ndetse n'umuhondo.

Abantu babiri bari kugurana amafaranga umwe wambaye umupira w'umweru amafaranga ariho amabara agiye atandukanye hariho umuntu ufite ibara ry'umutuku amagambo imibare yandikishijwe ibara ry'iyatsi ndetse n'andi afite ibara ry'icyatsi n'umweru ariho umuntu ushaje ufite ibara ry'umukara.

Urupapuro ruriho urutonde rw'amazina y'ibihugu agiye atandukanye ndetse n'imibare, amagambo akaba yandikishijwe ibara ry'umweru, imibare yandikishijwe ibara ry'igitaka, icyatsi, ndetse n'umutuku, hakaba ari igihugu gifite ibara ry'umweru ndetse n'akadomo k'umutuku, hakaba ariho n'igihugu rifite ibara ry'umutuku rishushanyijeho inyenyeri ifite ibara ry'umweru.

Gukoresha uburyo bwo hutimiza ibyo waguze bigira akamaro kanini cyane: harimo gukwirakwiza ibicuruzwa mu bice byose, harimo kongera ikoranabuhanga. Kuko gutumiza ibyo waguze, bifasha n'ikoranabuhanga nk'uburyo bwa telefoni cyangwa porogame, bigafasha abakiriya kumenya ibyo bakeneye nta mbogamizi. Kandi bishobora gushyigikira ubucuruzi bw'abakora ibintu bigiye bitandukanye, nk'uruge ro vuba. Waba ushaka amakuru arambuye ku kigo runaka cy'izi serivisi cyangwa uko bigenda? Hano turimo turabona uburyo ushobora kugura imyenda y'abagore, cyangwa se imyenda y'abana, ukoresheje ikoranabuhanga.

Umuntu ufite amafaranga ariho amagambo agiye atandukanye yandikishije ibara ry'umukara, imibare ifite ibara ry'umukara n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, iriho inyubako ifite ibara ry'igitaka n'indi iriho inyubako ifite ibara ry'icyatsi n'amagambo yandikishije ibara ry'umweru n'imibare yandikishije ibara ry'igitaka.

Akabaho gafite ibara ry'ubururu kariho urutonde rw'amagambo agiye atandukanye hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, umutuku ndetse n'imibare yandikishijwe ibara ry'umutuku n'umukara harimo akarongo gafite ibara ry'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi iri ku muhanda yanditseho amagambo agiye atandukanye hariho ibara ry'ubururu ndetse n'umukara n'umutuku, hariho icyapa kiriho akantu gafite ibara ry'umutuku n'umweru, urugi rufite umutuku n'umweru ryanditseho amagambo yandikishisjwe ibara ry'umutuku n'umweru ndetse n'ay'ubururu.

Akazu k'ubucuruzi karimo ibintu bijyiye bitandukanye gafite ibara ry'ubururu kicayemo umuntu ufite imisatsi miremire izitse wambaye lunette z'umukara, wambaye agapira k'umweruru n'umukara inyumaye hariho ibipapuro bijyiye bitandukanye bifite amabara y'umutuku, ubururu, ndetse ruriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umuhondo.

Ameza afite ibara ry'igitaka ndetse n'umukara n'umweru ariho mudasobwa zifite ibara ry'igitaka hariho umuntu wambaye umupira w'umweru n'akantu mu ijosi gafite ibara ry'umukara n'undi wambaye agapira gafite ibara ry'umweru n'ijipo ifite ibara ry'igitaka haba ariho ibintu bigiye bitandukanye.

Inyubako ndende ifite ibara ry'igitaka iriho ibinyabiziga biri mu bwoko bw'imodoka bifite ibara ry'umweru n'amapine y'umukara nikindi gifite ibara ry'umweru inyuma ifite agasanduku gafite ibara ry'umukara n'ubururu kandikishijweho amagambo afite ibara ry'umweru.

Ameza afite ibara ry'umukara, afite amaguru afite ibara ry'umuhondo, hirya hari ameza afite ibara ry'igitaka, hirya hakaba hari akandi kantu gafite ibara ry'igitaka, hasi hafite ibara ry'umweru.

Imeza ifite ibara ry'umweru irimo uturongo tujye dutandukanye dufite ibara ry'ivu ndetse n'ameza matoya afite ibara ry'umweru ifite amaguru ifite ibara ry'umuhondo, intebe zifite ibara ry'umukara irimo uturongo dufite ibara ry'umuhondo.

Urubyiruko cyangwa abari n'abategarugori bakunze kuba bafite amaduka agiye atandukanye kandi anacuruza ku mugabane w'afurika, aho tuba dusaba umugabane w'afurika kuba wajya mu basaza bamaze gihe mu kugura cyangwa kugurisha bakoresheje ikoranabuhanga.

Ameza afite ibara ry'umukara n'intebe ifite ibara ry'umukara hirya ahari ibyatsi bigiye bitandukanye bifite amabara agiye atandukanye harimo ibara ry'icyatsi, umweru, umuhondo, umutuku n'utubaho dufite ibare ry'ivu.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru, ndetse ariho amagambo agiye atandukanye, ruriho amabara agaiye atandukanye, ibara ryumuhondo numweru, n'imibare ifite ibara ry'umweru hakaba hariho hejuru akabara gafite ibara ry'umumutuku ndetse n'umweru.

Ameza y'umweru intebe zifite ibara ry'igitaka ndetse n'umukara, hirya hari inkono zifite ibara ry'igitaka n'umweru zirimo ibyatsi bigiye bitandukanye, indabyo zifite ibara ry'icyatsi ndetse n'igitaka n'inzu ifite ibara ry'umweru n'amadirishya afite ibara y'umweru.

Inyubako ndende ifite ibara ry'umuhondo harimo n'umweru, ifite inkono zigiye zitandukanye zirimo indabyo zigiye zitandukanye zifite amabara agiye atandukanye harimo icyatsi ndetse hariho n'ahantu hari amazi harimo ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru.

Inyubako ndende ifite ibara ry'umweru n'ubururu, icyapa gifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, hariho amagambo yandikishijwe amabara agiye atandukanye, harimo umukara ndetse n'umweru n'ubururu, hariho igisiga gifite ibara ry'igitaka.

Abagabo bari kugenda bambaye amakote agiye atandukanye, harimo uwambaye ikote rifite ibara ry'ivu ishati y'umweru n'ipantaro y'ivu, uwambaye ikote ry'umukara ishatu y'ubururu n' ipantaro ifite ibara ry'igitaka, ikote ryivu rifite ishati y'umweru na karuvate ifite ibara ry'umweru harimo n'ubururu n'ipantaro y'ivu

Inyubako ndende ifite amabarage atandukanye harimo humeur, umutuku ndetse n'umuhondo, hariho inkono zirimo ibyatsi zitandukanye zifite amabara y'icyatsi, hariho ibinyabiziga bifite biri mu bwoko bw'imodoka ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara. Hari umuntu uri kugenda wambaye akajire gafite ibara ry'icunga ririmo akrongo k'igitaka.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'imodoka gifite ibara ry'umweru kiri mumuhanda hirya hari izindi binyabiziga biri mu bwoko bw'imodoka bifite ibara ry'umweru, ivu ndetse n'umukara harimo n'umuhondo ifite ibara ry'umuhondo n'icyatsi hirya hari inyubako z'ubucuruzi zifite ibyapa bifite ibara ry'ubururu.

Inyubako ifite imiryango ifite ibara ry'umukara hariho umuntu uhagaze wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'amaboko ifite ibara ry'umweru, ipantaro ifite ibara ry'ivu ndetse n'undi uri kugenda wambaye ipantaro yumukara ipantaro inkweto z'umukara ndetse n'ishati ifite ibara ry'umuhondo irimo umukara mukeya ndetse n'ingofero ifite ibara ry'umutuku wijimye.

Ameza afite ibara ry'igitaka ateretseho utuntu tugiye dutandukanye, dufite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, intebe ifite ibara ry'umukara, inkono ifite ibara ry'umweru irimo indabyo ifite ibara ry'igitaka, ndetse hakaba harimo n'amatara afite ibara ry'umweru.

Hari uburyo bwiza ushobora kuguriraho ibicuruzwa wifuza yaba imyambaro itandukanye iyo kujyana ahantu, iyo gutemberana n'ibindi byose bitandukanye.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagamo agiye atandukanye, afite ibara ry'umukara ndetse harimo n'ibara ry'umutuku, harimo n'imibare ifite ibara ry'umutuku, n'inyuguti zifite ibara ry'umukara.

Urupapuro rufite ibara ry'ubururu ruriho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umuhondo, ndetse n'imibare ifite ibara ry'ubururu n'amagambo afite ibara ry'ubururu, hariho umukobwa wambaye ikote ry'umweru ,agapira k'ubururu kerurutse uri guseka ufite imisatsi miremire iboshye y'umukara, n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru.

Ameza ariho ibitambaro biri mu bwoko bw'igitenge bifite ibara ry'icyatsi ndetse harimo n'umweru n'udusanduku hejuru dufite ibara ry'igitaka n'umukara, aho abantu bicaye, umuntu wambaye ingoferi ifite ibara ry'igitaka n'ikote rifite ibara ry'umukara, ikote ry'umukara, ishati y'umweru, n'umumama wambaye igitambaro kiri mu bwoko bw'igitenge gifite ibara ry'umutuku ndetse n'icyatsi n'umukara.

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'ivu ndetse n'iry'icunga, hakaba ariho umuntu wambaye ishati y'amaboko maremare rifite ibara ry'umweru, ndetse n'ikote rifite ibara ry'umukara rifite agapesu gafite ibara ry'umutuku, rufite akantu gashushanyije ho mpande enye gafite ibara ry'umutuku, kandi tseho ibara ry'umweru harimo n'utuzu tugiye dutandukanye dufite ibara ry'umutuku.

Inyubako ifite ibara ry'icyatsi, hariho icyapa gifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru n'umutuku, handikishijweho amagambo afite ibara y'umweru n'icyatsi, hasi hakaba hariho umuryango ufite ibara ry'umweru, ufite icyapa gifite ibara ry'umweru hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu ndetse n'umukara.

Umuntu uhagaze wambaye ikote rifite ibara ry'umukara, wambaye rinete n'ishati y'umukara, n'undi wambaye ikoti ry'umukara, wambaye ishati y'umukara n'uwambaye rinete n'undi wambaye ishati y'umukara n'ikote ry'umukara akantu mu ijosi gafite ibara ry'umukara ndetse ku ikote rye hakaba hariho akazeru gafite ibara ry'iroza, naho uwambaye rinete akaba ariho amagambo afite ibara ry'umweru yanditseho.

Ameza afite ibara ry'igitaka ndetse n'idirishya rifite ibara ry'ubururu harimo umuntu wambaye umupira w'umweru ufite ibara ry'ubururu ikote ry'umukara ndetse ufite amafaranga mu ntoki afite ibara ry'umutuku, n'umuntu wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'ubururu bwijimye ipantaro y'ubururu ufite ikaramu mu ntoki, uri kwandika ku rupapuro rw'umweru.

Umumama wicaye ufite icyuma mu ntoki ufite agakomo ku kaboko, uteze igitambaro gifite ibara ry'icyatsi, wambaye akamurinda kwandura agataburiya gafite ibara ry'umukara n'igitaka, wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'icunga umuho, umweru ndetse n'ubururufite iribwa bigiye bitandukanye bifite amabara y'icunga ndetse n'umuhodo.

Isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye ryicayemo abantu bicaye ku ntebe ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru umuntu wambaye ingofero y'umutuku, wambaye rinete, wambaye umupira w'imbeho w'amaboko maremare ufite ibara ry'igitaka ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'igitaka n'inkweto z'umukara zifite ibara ry'umweru, n'uwambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi n'inkweto z'umweru.

umu mama wambaye igitambaro kiri mu bwoko bw'igitenge, gifite amabara y'ubururu ndetse n'icyatsi n'umutuku n'umupira w'amaboko maremare, ufite ibara ry'umweru urimo utuntu dufite ibara ry'igitaka, n'akitero mu mutwe gafite ibara ry'umweru hariho ibitunguru biribwa bigiye bitandukanye bifite ibara ry'umutuku ndetse n'icyatsi.

Ibiribwa bigiye bitandukanye biri mu dutebo tugiye dutandukanye nk'umuntu wambaye agatambaro mu mutwe gafite ibara ry'umukara, agapira gafite ibara ry'iroze n'ijipo ifite ibara ry'igitaka, harimo ibiribwa bifite amabara agiye atandukanye umutuku umuhondo, icunga ndetse n'icyatsi kibisi harimo n'ibitebo bifite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, irimo imyenda ifite amabarage yatandukanye umutuku, umuhondo, ndetse n'icyatsi, harimo n'umuntu wambaye umupira ufite ibara ry'umweru, ikabutura ifite ibara ry'igitaka haririmo uturongo tw'umweru, ipantaro y'ubururu rifite umweru n'undi wambaye ikote rifite ibara ry'umweru n'ubururu, yambaye inkweto zifunguye zifite ibara ry'igitaka.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo n'abantu bicaye bagiye batandukanye, harimo wambaye inkweto z'umukara, ipantaro y'umukara irimo uturongo tw'umweru, agakapu k'umukara, ndetse wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umukara, n'undi wambaye inkweto z'umweru, ipantaro y'umukara n'umupira w'amaguruboko magufi ufite ibara ry'icunga, n'agakapu kamanitse gafite ibara ry'umukara, ndetse harimo n'undi muntu uhagaze wambaye umupira w'umweru ipantaro y'ubururu.

Inyubako y'ubucuruzi n'ibiribwa bigiye bitandukanye, hariho ameza afite ibara ry'igitaka ateretseho ibitebo bifite ibara ry'igitaka ndetse n'ubururu, hari ibiribwa bifite ibara ry'igitaka, ubururu ndetse n'umuhondo, hari umuntu wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umweru n'ipantaro, ifite ibara ry'umweru ndetse n'uwambaye ikanzu ifite ibara ry'umuhondo n'umweru ndetse n'umukara n'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo abantu bagiye bambaye imyenda ifite amabara agiye atandukanye harimo imifuka ifite ibara ry'umweru, harimo utubido dufite ibara ry'umuhondo ndetse ifite imifuniko y'umutuku, umumama wambaye agapira gafite ibara ry'ivu ndetse n'ikanzu irimo ibara ry'umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi, harimo n'undi wambaye ikoti rifite ibara ry'ubururu n'ikanzu y'umweru irimo utubara dufite ibara ry'icyatsi.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo imyuko ifite ibara ry'igitaka, ibiseke bifite ibara ry'ivu ndetse harimo n'imitako igiye itandukanye ifite ibara ry'umuhondo, ivu, umweru ndetse n'umukara, harimo n'ibiseke bifite amabara agiye atandukanye harimo igitaka n'umukara.

Inzu y'ubucuruzi igeretse, bigara irimo ibintu bigiye bitandukanye harimo abantu bari kugenda n'imyenda ifite ibara ry'umukara n'akajiri gafite ibara ry'icyatsi, n'umuntu uri kugenda wambaye imyenda y'imikara, inkweto z'umukara, ipantaro y'umukara n'uwambaye ingofero y'umweru, ipantaro y'umukara, ikote ry'umukara n'umupira w'umweru.

inzu y'ubucuruzi n ibicuruzwa bye bitandukanye harimo udutebo dufite ibara ry'igitaka bipiraba ry'icyatsi amashakoshi afite ibara ry'icyatsi inkoko zifite ibara ry'icyatsi ndetse n'amaherena afite ibara ry'imihondo ndetse n'umutuku hakaba hariho imitakogiye itandukanye ifite ibara ry'umuhondo umutuku ndetse n'icyatsi

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hakaba harimo umumama wambaye igitenge kirimo amabara agiye atandukanye, umuhondo, umutuku ndetse n'ubururu, hakaba harimo n'igitenge yambaye mu mutwe gifite amabara agiye atandukanye, umuhondo, ubururu, umweru ndetse n'umutuku n'ibiribwa bifite amabara y'umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi.

Moto iparitse iri mubwoko bwa savenisenke mu ibara ry'umutuku ihetse iki bogisi cy'icyatsi cyanditseho vuba, hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi afite amverope ari gushyiramo.

Urupapuro rufite ibara ry'umuhondo ruriho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse n'ubururu ruri ku meza ifite ibara ry'umukara hariho urundi rupapuro rufite ibara ry'umweru n'amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'imibare ifite ibara ry'umweru n'umuhondo.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'imodoka gifite ibara ry'umweru hahagazeho abantu batatu umuntu wambaye ikabutura ifite ibara ry'ubururu irimo akarongo k'umweru, umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'ivu, n'undi wambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'umutuku ufite mo imbere umupira ufite ikola ufite ibara ry'umweru harimo n'umutuku wambaye ipantaro y'umukara, n'umukobwa wambaye umupira w'umuhondo wambaye ipantaro y'umukara horiho akantu k'umu.

Urupapuro rufite ibara ry'umuhondo ruriho amagambo agiye atandukanye yandikishije ibara ry'ubururu ndetse n'umukara imibare ifite ibara ry'umulkara urupapuro ruteretse ku imeza rufite ibara ry'igitaka ndetse hariho akantu gafite ibara ry'umukara.

Imyenda imanitse kuhantu hagiye hatandukanye hariho urupapuro rufite ibara ry'umuhondo rwandikishijweho amagambo afite ibara ry'ubururu ndetse n'umuntu ufashe urupapuro ufite agakoresho gakoreshwa kazinga gafite ibara ry'umuhondo, hari n'imwenda igiye imanitse igiye itandukanye akamapantaro afite ibara ry'umukara n'ubururu.

Akazu k'ubucuruzi kari ku kumuhanda, gafite amabara agiye atandukanye, gafite ibara ry'umutuku, ndetse karimo amagambo yandikishije umweru n'umuhondo, n'akazu k'ubucuruzi kari kuhande gafite ibara ry'umuhondo, kariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara, hakaba hahagaze umuntu wambaye umupira w'amaboko maremare, ufite ibara ry'umutuku, wijimye, n'ipantaro y'ubururu, n'inkweta zifunguye, zifite ibara ry'umweru.

Agahema k'ubucuruzi kari k'umuhanda gafite ibara ry'umuhondo kandikishijweho amagambo afite ibara ry'umukara n'imipira ifite ibara ry'umuhondo hicayeho abantu babiri umwe yambaye ishati y'amaboko magufi y'umweru n'uwambaye ishati irimo utuntu twinshi tw'ibara ry'umutuku.

Ameza y'umukara ateretseho ishikoshi ifitete ibara ry'umukara na mudasobwa ifite ibara ry'umukara hicayeho intebe ifite ibara ry'umukara, hicayeho umuntu wambaye umupira w'ubururu w'umuhondo ufite amagambo agiye yandishijwe ibara ry'umutuku ndetse n'uhagaze ufite agaseke gafite ibara ry'umweru, umukara ndetse n'icyatsi wambaye umupira w'umweru urimo uturongo tw'umuhondo.

Umuntu wicaye wambaye ipantaro y'ubururu irimo uturongo tw'ubururu bukeye cyane, ufite agakapu gafite ibara ry'umukara, wambaye umupira ufite ibara ry'umweru, wandikishijweho amagambo y'ivu, ufite mudasobwa mu ntoki iriho amagambo afite ibara ry'umweru, ifite ibara mo imbere ry'ubururu, n'umuntu wicaye hirya wambaye inkweto zifite ibara rya shokora zifite akagozi k'umweru, ipantaro y'ubururu.

Ni umuntu ufite telefoni mu ntoki hakaba muri telefoni handitsemo ibintu bigiye bitandukanye hakaba harimo ayandikishijwe ibara ry'umutuku, ibara ry'umukara, ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'ubururu bwererutse.

Umutaka w'umuhondo wanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umukara, umutuku, umweru; urimo abantu benshi bagiye batandukanye b'abagabo, abasore, ku ruhande hari umutaka wanditseho amagambo y'umweru; umwe muri abo bantu yambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'ikoboyi.

Ameza afite ibara ry'umukara, ateretseho mudasobwa ifite ibara ry'umukara n'intebe ifite ibara ry'umukara, hicayeho umuntu wambaye umupira w'umuhondo ndetse wambaye rineti zifite ibara ry'umukara, nundi ufite wambaye umupira ufite ibara ry'umukara, ufite ibara ry'icunga ndetse n'umweru.

Akazu k'ubucuruzi kari ku muhanda, gafite ibara ry'umuhondo hicayemo umuntu, n'undi wambaye agapira k'amakoboko magufi gafite ibara ry'igitaka ndetse n'ijipo ifite ibara ry'ubururu, hirya hari umugabo wambaye agapira gafite amaboko maremare k'ubururu kariho uturongo tw'umweru n'undi wambaye ingofero y'umweru.

Akazu k'ubucuruzi kari ku kumuhanda gafite ibara ry'umuhondo kanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara n'umutuku hariho umuntu uhagaze wambaye umupira w'umutuku n'ikabutura y'umukara, n'undi wambaye ishati y'amaboko maremare y'umutuku wambaye n'ijipo y'umukara no hirya hari umugabo ufite igikapu cy'umukara wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu n'inkweto z'umukara.

Umukobwa ufite indangururamajwi, uhagaze akaba yambaye ipantaro y'ubururu, umupira w'umuhondo, inyuma hakaba hari icyapa kiriho umukobwa n'umuhungu wambaye ishati y'amaboko magufi, mw'imbere ishati y'umweru na karovati, inyuma hakaba hari abandi bicaye mw'ihema bambaye amapantaro y'ubururu n'imipira y'umuhondo.

Imeza ifite ibara ry'ubururu hahagazeho abantu batatu bambaye umupira, umwe umupira w'amaboko maremare y'umuhondo, undi wambaye mupira w'amagufi ufite ibara ry'umuhondo, n'undi wambaye w'amaboko mugufi ufite ibara ry'ubururu wandikishijweho amagambo y'umuhondo. Inyuma hakaba hari ihema rifite ibara ry'ubururu ryandijishwaho amagambo y'umuhondo, gafite akabara k'umweru, umuntu akaba afite agakapu gafite ibara ry'igitaka.

Akaba ari urupapuro rufite ibara ry'umuhondo, ryanditseho amagambo ryandikishijwe amabara y'umukara ahandi akaba ari umweru, byerekana ko ari urupapuro ruri gutanga amakuru.

Umudamu ufite imisatsi y'imikara iziritse wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umweru urimo uturongo dufite ibara ry'umuhondo, urikumwe n'umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ufite ibara ry'umweru urimo uturongo dufite ibara ry'ivu, imbere ye hari mudasobwa ifite ibara ry'umukara.

akabati gafite ibara ry'umutuku n'umweru kandiraho'ama yafite ibara ry'umweruba harimo udusanduku dufite ibara ry'umutuku harimo ibintu bifite ibara ry'umukara ndetse ha akaba ari hirya igishushanyo gi kiriho umukobwa uri guseka abakobwa babiri bafite inku umwe afite imisatsimweru dufite imisatsi miremire iboshye y'umukara n'umweru

Agataka k'ubucuruzi Kari ku muhanda gafite Ibara ry'umuhondo na Kandi gafite Ibara ry'umutuku kicayeho umuntu wambaye ishati y'amaboko maremare arimo uturongo tugiye dutandukanye tw'umweru, ivu ndetse n'ubururu akaba yambaye akandi gafite Ibara ry'umuhondo n'umuntu uhagaze wambaye ishati y'amaboko magufiya wambaye n'ipantaro y'ubururu.

Umuntu ufite mudasobwa ngendanwa na terefone ngendanwa ufite agakapu k'umukara wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'umweru n'agakomo ku ntoki uriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umuhondo ifite ibara ry'ubururu.

Umuntu wicaye wambaye ipantaro y'ubururu ufite agakapu k'umukara, ufite na telefone ngendanwa mu ntoki irimo amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara, ifite ibara ry'umuhondo n'umupira w'umweru, hirya hari undi wicaye wambaye ipantaro y'ubururu, n'inkweto zifite ibara ry'umweru, n'igitaka.

Inzu y'bucuruzi ifite ibara ry'umuhondo ririho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, iriho umuntu uri kugenda wambaye ishati y'amaboko maremare afite ibara ry'ubururu bwerurutse n'ipantaro ifite ibara ry'ubururu bwijimye, hari nundi wambaye umupira w'ubururu ndetse n'umupira muremure urimo umweru n'ipantaro ifite ibara ry'ivu n'umugabo wambaye umupira w'umuhondo.

Icyapa cy'umuhondo cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara n'ubururu bwijimye, ku ruhande hari udushushanyo turi mu ibara ry'umweru, inyuma hari ibiti byinshi bifite amashami y'icyatsi cyijimye, inyuma hari ikindi cyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu gisa umweru.

Akazu k'ubucuruzi kari ku muhanda gafite ibara ry'umuhondo karimo umuntu wambaye isaha, ufite imisatsi miremire y'umukara n'umuntu wambaye agapira k'umutuku, hirya hari igiti kirekire gifite amashami afite ibara ry'icyatsi.

Urupapuro rufite ibara ry'umuhondo rugiye ruriho amagambo agiye atandukanye ruriho amazina afite ibara ry'umukara n'imibare ifite ibara ry'umukara handitseho amagambo agira ati," Ntayandi mafaranga wishyuzwa," bikaba biri hasi ku ibara ry'umweru.

Akazu k'ubucuruzi kari kumuhanda gafite ibara ry'umuhondo kandikishijweho amagambo agiye atandukanye afite ibara ry'umukara ndetse n'umweru hari umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'ubururu n'ipantaro y'umukara n'umukobwa urimo wambaye agapura gafite ibara ry'umukara

Agapapuro kari ku meza gafite ibara ry'umuhondo yandikishijweho amagambo y'umukara n'ahandi hari imibare yandikishijweho amagambo y'ubururu, n'akandi gapapuro kari kuhande gafite ibara ry'umweru kariho amabara agiye atandukanye, gafite amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru n'imibare yandikishijwe ibara ry'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi umuntu wambaye umupira w'umuhondo urimo uturongo tw'ubururu n'ingofero y'ubururu irimo akarongo k'umuhondo n'undi wambaye umupira w'umukara ingofero irimo amabara agiye atandukanye icyatsi umukara ufite terefone mu ntoki.

Urupapuro rufite ibara ry'umuhondo n'umweru, rukaba rufite amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara, ane y'ubururu, ane imibare yandikishijwe ibara ry'ubururu, hakaba inyuma hari akandi kantu gafite ibara ry'umweru.

Akazu k'ubucuruzi kari ku muhanda gafite ibara ry'umutuku, kaba kariho umukobwa uri kw'ifoto yako hamanitseho n'ibyapa, kaba kanditseho,"airtel money", kaba kandikishijwe mw'ibara ry'umweru n'umuhondo, hirya hakaba hari akandi kazu k'ubucuruzi n'icyapa cy'icyatsi

Ni inzu y'ubucuruzi ifite irange ry'umuhondo harimo abantu bane umwe akaba ari umuzungu bakaba bari hejuru y'akabati k'ibirahure bacururizamo terefone bakaba bambaye imipira y'imihondo n'umukara.

Urupapuro rufite ibara ry'umuhondo, hakaba hariho amagambo n'imibare, amagambo akaba yandikishijwe mu izina ry'ivu, n'amazina yandikishijwe mu ibara ry'umukara, n'imibare yandijishijwe mu izina ry'umukara.

Inyubako y'ubucuruzi irimo yicayemo umuntu uri kuri mudasobwa wambaye umupira w'umuhondo, wambaye rinete z'umweru, umuntu uri hirya wambaye umupira w'amaboko magufi w'icyatsi ufite akarongo k'umweru n'umuntu wambaye igitenge gifiite ibara ry'icunga, igitaka ndetse n'umuhondo n'ubururu.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'imodoka ifite ibara ry'umukara, hakaba hari umugore ufite imisatsi miremire y'umukara wambaye igitambaro kiri mu bwoko bw'igitenge gifite ibara ry'umutuku, icyatsi, umweru n'umugabo uri hirya wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umweru na telefone mu ntoki.

Akazi k'ubucuruzi kari k'umuhanda gaciyemo abantu bafite mudasobwa bambaye agapfukamunwa gafite ibara ry' umutuku undi ry'ubururu bambaye umupira w'umweru ndetse hakaba hariho n'ibyapa hejuru bifite ibara bigiye bitandukanye byandikishijwe amagambo y'umweru hariho icyapa gifite ibara ry'icunga cyandikishijwe amagambo y'umweru ndetse y'icunga

Itente ry'ubucuruzi ririmo abantu bagiye batandukanye harimo uwambaye ingofero y'umutuku, umupira w'umutuku, ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara, n'uwambaye umupira w'umutuku, isakoshi y'umukara, ipantaro y'ubururu, inkweto z'umukara, n'uwambaye umupira usa ivu n'ipantaro isa umweru, n'inkweto z'umukara, n'uwambaye ipantaro y'umukara inkweto z'umukara n'umupira w'umukara.

Inzu ifite ibara ry'umuhondo yandikishijweho amagambo afite ibara ry'umukara ariho agatako gafite ibara ry'umukara n'umuhondo, harimo rangururamajwi ifite ibara ry'umukara harimo umuntu wamabye umupira w'umuhondo, ipantaro y'umukara inkweto z'umukara, n'uwambaye ipantaro y'umutuku n'umupira w'umukara ndetse n'umuntu hirya wambaye imyenda y'imikara irimo uturongo tw'umweru n'ingofero z'umukara n'inkweto z'umukara.

Akazu k'ubucuruzi kari ku muhanda karimo umuntu wambaye umupira ufite ibara ry'umutuku wandikishijeho amagambo afite ibara ry'umweru n'undi wambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'umukara urimo uturonko dufite ibara ry'umuhondo n'utundi duciyemo dufite ibara ry'ubururu wambaye rinete hirya hari amazu y'ubucuruzi n'imitaka y'ubucuruzi n'ibinyabiziga.

Inzu y'ubucuruzi irimo umuntu wambaye ipantalo ifite ibara ry'umutuku wijimye, umupira w'umuhondo ufite ibara, ufite uturongo tw'ubururu wandikishijweho amagambo afite ibara ry'ubururu n'umumama wambaye ikanzu ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umukara urimo utuntu tugiye dutandukanye tw'icyatsi n'akitero gafite ibara ry'icyatsi ndetse n'akitero gafite ibara ry'icunga n'umweru.

Ihema ry'ubucuruzi riri ku nzira rifite ibara ry'umuhondo ririho amagambo yandikishije ibara ry'umukara n'umutuku, hahagazeho abantu bambaye imipira y'umweru irimo uturongo n'uturonko tw'umuhondo n'ipantaro y'ivu, n'undi wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'amaboko maremare irimo uturonko tw'umweru n'umukara wambaye inkweto z'umukara, n'uri hirya wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru urimo akaronko k'umuhondo.

Akazu k'ubucuruzi kari ku muhanda gafite ibara ry'umuhondo, kandikishijweho amagambo afite ibara ry'umukara, kariho umuntu wambaye ingofero y'umweru, ikanzu ifite ibara ry'ubururu ryerurutse, igikapu umugongo gifite ibara ry'umukara, n'undi wambaye ipantaro y'umukara, ishati y'amaboko magufi ifite ibara agiye atandukanye harimo umukara, igitaka ndetse n'agahondo gakenya, n'undi muntu ufite telefone mu ntoki.

Akazu k'ubucuruzi kari ku muhanda gafite ibara ry'umuhondo kanditseho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umukara hirya hakaba hari ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi n'inzu ifite ibara ry'umuhondo.

Inzu ifite ibara ry'umweru, ifite utwapa dufite ibara ry'umutuku, yandikishijweho amagambo afite ibara ry'umweru, iriho umukobwa uhora uri guseka wambaye agapira k'ivu ufite imisatsi miremire y'umukara, hirya hari umukobwa wicaye, wambaye agapira k'umutuku ufite imisatsi y'imikara.

Akazu k'ubucuruzi kari ku muhanda gafite ibara ry'umuhondo, kanditseho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umutuku, hahagezeho umu mama ufite imisatsi y'umukara wambaye agapira k'umukara n'ikanzu irimo amabara agiye atandakunye: ubururu, umweru, umukara. N'umugabo hirya wambaye ishati y'amaboko maremare afite ibara ry'iroze n'ipantaro y'umukara.

Mu nzu y'ubucuruzi, hakaba harimo ibintu bigiye bitandukanye byinshi. Harimo abantu baje guhaha. Umumama wambaye igitenge gifite ibara ry'umutuku n'umuhondo wererutse n'umweru, hakaba harimo ibiribwa bigiye bitandukanye, intoryi, amakaroti, imifuka irimo ibiribwa n'ibindi.

Ameza afite ibara ry'umukara ateretseho mudasobwa ari gukoreshwa n'abantu bambaye imipira y'umyeru hariho utuntu tw'umuhondo, n'abandi bambaye imipira y'imihondo n'umukobwa muremure ufite imisatsi miremire y'imikara, wambaye umupira w'umweru ufite akantu k'umuhondo ku mupira n'umupapa uri hirya wambaye inkweto z'umweru ipantaro y'umukara n'ikote rifite ibara ry umweru, n'umukara ririho akarongo k'umweru.

Akazu k'ubucuruzi Kari kumuhanda gafite ibara ry'umuhondo kagiye kariho amagambo atandukanye yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse hariho abana, umwe yambaye ikabutura y'umukara uturongo tw'umweru n'umupira w'ubururu n'akandi kabara kicunga, n'uwambaye ipantaro y'ikoboyi ifite umupira w'umutuku urimo uturongo tw'umweru n'umukara, hirya hari umugabo wambaye umupira wamaboko magufiya umwe.

Akazu gato kubucuruzi kumutuku kanditseho amagambo agiye atandukanye amwe muriyo ni akanyenyeri, kabiri, kabiri, urwego, ari mwibara ry'umweru mo imbere harimo umuntu wambaye ishati yamaboko maremare kuruhande hari umutaka w'umutuku.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo wanditseho amagambo afite ibara ry'umukara n'umupira muremure w'umukara n'ipantaro y'umukara uri kukinyabiziga cyitwa igare uri guseka inyuma inyuma hakaba hari umutaka w'ubucuruzi ufite ibara ry'umuhondo ndetse hicayemo umuntu wambaye umupira w'umuhondo n'akitero gafite ibara ry'ubururu.

Abantu babiri bari ku muhanda bakaba bambaye imipira y'umuhondo n'agataka k'ubucuruzi inyuma yabo, impande yaho hakaba hari abandi inyuma umwe yambaye umupira urimo umutuku n'ubururu n'uturongo tw'ubururu umwe yambaye umupira w'umweru abana bambaye umupira w'icyatsi.

Akazu k'ubucuruzi gafite ibara ry'umuhondo gahagazeho umuntu wambaye umupira w'ubururu, n'undi wambaye isengeri, kakaba kanditseho amagambo afite ibara ry'umutuku n'ibara ry'umukara.

Akazu gato ku muhondo kubucuruzi kanditseho amagambo agiye atandukanye yo mwibara ry'umukara, hicayemo umugabo wambaye umupira wicyatsi n'ishati y'umuhondo n'agapfukamunywa k'umukara, kuruhande rwako hari umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare n'ingofero y'umukara n'agapfukamunywa k'umweru.

Urugi rw'umukara rwometseho icyapa cy'ibara ry'umuhondo n'umukara kiriho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umukara, hariho ibikoresho ngendanwa by'itumanaho bitatu bibiri muri byo bise umukara ikindi gisumero ndetse handitseho n'ijambo rigira ati ''Ubuntu.''

Urupapuro rufite ibara ry'umuhondo ririho amagara agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse hari n'akandi gafite ibara ry'umweru, ibara ry'ubururu ndetse n'imibare ifite ibara ry'ubururu ikaba hari iteretse ku meza afite ibara ry'umweru.

Ameza afite ibara ry'umukara ariho mudasobwa ifite ibara ry'umukara n'umugabo wambaye umupira w'umuhondo urimo akarongo k'umweru wandikishijweho amagambo afite ibara ry'umutuku wambaye lunette z'umukara nundi wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umukara, icunga ndetse n'umweru ufite terefone ngendanwa mu.

Akazu k'ubucuruzi kari ku muhanda gafite ibara ry'umuhondo, kariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara, kariho umuntu wambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'ivu ndetse n'abandi bambaye amakote afite ibara ry'ivu, n'igikapu cy'umukara n'inkweto, n'ipantaro y'umukara.

Akazu k'ubucuruzi kari ku kumuhanda gafite ibara ry'umuhondo kanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse n'umutuku ,harimo umukobwa ufite imisatsi miremire iboshye ifite ibara ry'umutuku wijimye wambaye agapira k'umweru gafitemo akarongo k'umukara inyuma hari ibiti bifite ibara ry'icyatsi.

Akazu k'ubucuruzi kari ku muhanda karimo umuntu wambaye umupira ufite ibara ry'umweru urimo uturongo tw'igitaka, ndetse n'undi wambaye agapira gafite ibara ry'umweru karimo utuntu tw'umuhondo ufite imisatsi iziritse, isutse,...

Ameza afite ibara ry'igitaka ahagazeho umuntu wambaye ingofero ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, wambaye umupira w'umuhondo, ipantaro y'umukara ndetse n'undi wambaye umupira w'amaboko maremare afite ibara ry'igitaka, ikanzu ifite ibara ry'umukara, umweru ndetse nahandi harimo umutuku.

Akazu gato k'ubucuruzi, kari ku muhanda, gafite ibara ry'umuhondo, mo imbre hakaba harimo umugabo urimo uracuruza, wambaye umupira w'igitaka n'umweru, n'akarongo k'igitaka, n'umukobwa wambaye ikanzu irimo amabara y'ubururu.

Nikazu k'ubucuruzi kari ku mu muhanda, gafite ibara ry'umuhondo hakaba hari ho abantu umwe wambaye umupira wumutuku wanditsa amagambo yacishajwe ibara ry'umweru n'ipantaro yumukara n'umupira usa nkivu ipantaro y'ubururu n'amashati yumweru.

Akazu k'ubucuruzi kari k'umuhanda gafite ibara ry'umuhondo ryandikishijweho amagambo afite ibara ry'umukara ndetse n'imibare ifite ibara ry'umutuku uhagazeho umuntu wambaye umupira w'umukara urimo uturango tw'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto zifunze zifite ibara ry'icyatsi ,n'undi wambaye ingofero y'umuhondo, umupira w'umweru yandikishijweho amagambo afite ibara ry'umutuku, ipantaro y'umweru ndetse n'inkweto zifunguye.

Akazu k'ubucuruzi kari ku muhanda gafite ibara ry'umuhondo kariho amagambo agiye atandukanye, karimo umweru ndetse n'umuntu wicaye wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'umutuku ry'umweru ndetse n'umukara n'ubururu bigiye bitandukanye, wambaye n'ipantaro ifite ibara ry'umukara ririmo uturongo tw'utubara ry'ivu ndetse n'umwana uri ku ruhande wambaye agakora gatoya k'umukara.

Ameza afite ibara ry'ubururu, umuntu ufite terefone mu ntoki wambaye agapira gafite amaboko maremare gafite ibara ry'umuhondo terefone irimo amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse harimo n'ah'umukara.

Umuntu wicaye ku binya ku kinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki wambaye ikote ry'umukara mo imbere harimo agapira k'umweru, ipantaro y'umukara ifite akarongo k'umutuku n'umuntu ufite terefone mu ntoki ngendanwa wambaye umupira w'umuhondo ufite agakapu gasa igitaka.

Akazu k'ubucuruzi kari ku kumuhanda, gafite ibara ry'umuhondo gahagazeho umuntu wambaye umupira w'umukara, ufite uturongo tw'umweru ndetse nu'ubururu, wambaye ipantaro y'umukara, wambaye inkweto z'umukara, akazu kariho amagambo afite amabara agiye atandukanye, y'umutuku ndetse n'umukara, inyuma hakaba hari ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'imodoka ifite ibara ry'umukara hakaba hahagazeho abantu, umuntu wambaye ingofero y'umuhondo ifite ibara ry'ubururu, umupira w'umuhondo uri mu ibara ry'ubururu wandikishijweho amagambo afite ibara ry'ubururu, wambaye ipantaro y'ubururu n'undi wambaye ikote rifite ibara ry'umukara, wambaye n'ipantaro ifite ibara ry'icyatsi.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibintu bigiye bitandukanye, harimo ibyapa bifite ibara by'umuhondo, umukara, ufite amagambo yandikishijwe ibara ry'umuhondo, harimo abantu bambaye amakote, ufite ikote ry'ubururu n'inkweto z'umukara, amasogisi y'ubururu n'umukara, wambaye ikote ry'ubururu bwerurutse, wambaye n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara.

Akazu k'ubucuruzi kari ku muhanda. Gafit' ibara ry'umuhondo, karimo umuntu wambaye umupir' ufite ibara ry'umuhondo, inyuma hakaba har' inzu ifit' ibara ry'umutuku, yandikishijeho amagambo ,afit' ibara ry'umweru,

Akazu k'ubucuruzi, kari ku muhanda, gafite ibara ry'umuhondo, kagiye kanditseho amagambo agiye atandukanye, yandikishijwe ibara ry'umukara, n'imibare yandikishijwe ibara ry'umukara, impande hakaba hari icyapa, hirya hari n'ipoto, n'inyuma hari ibiti bifite ibara ry'icyatsi.

Agahema k'ubucuruzi gafite ibara ry'umuhondo karimo abantu bagiye batandukanye harimo umuntu wambaye ingofero y'umuhondo, umupira w'umweru, ipantalo y'umukara, umupira w'umuhondo, ingofero y'umukara ndetse ipantalo y'ubururu, ko harimo n'uwambaye ingofero y'umukara, umupira ufite ibara ry'umutuku harimo umweru n'ipantalo y'umukara.

Ameza afite ibara ry'umutuku, yanditseho amagambo agiye atandukanye yandishijwe ibara ry'umweru hariho muntu wambaye inkweto z'umukara, ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'umweru uriho amagambo afite ibara ry'umukara ndetse n'undi wambaye ikabutura y'umutuku inkweto z'ubururu, umupira w'ubururu ndetse ndabonaho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru n'undi wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umutuku.

Akazu k'ubucuruzi gafite ibara ry'umuhondo kariho amagambo atandukanye, n'ibara ry'ubururu ndetse n'umukara. Hariho ibyapa bifite ibara ry'umuhondo, abantu bambaye y'imihondo, ingofero y'umuhondo, irimo mu mupira ibara ry'umukara, wambaye amapanaro y'umukara, inkweto z'imikara, inkweto z'umweru; n'undi wambaye ipanaro y'uburur n' umupira w'umuhondo, n'uwambye umupira w'umweru, ipanaro y'bururu n'inkweto z'umweru.

Urupapuro rufite ibara ry'umuhondo rwandikishijeho amagambo agiye atandukanye afite ibara ry'umukara, n'andi afite ibara ry'umukara n'umweru, rukaba ruriho amanimero afite ibara ry'umukara n'umweru.

Icyapa inyuma gifite ibara ry'umuhondo ryandikishijweho imibare ifite ry'umukara n'amagambo afite ibara ry'umukara, umuntu uhagaze ufite igare, wambaye umupira w'umukara n'undi bahagararanye wambaye w'umuhondo ufite telefone.

Akazu k'ubucuruzi kari ku muhanda gafite ibara ry'umuhondo karimo abantu, umwe wambaye isaha, undi wambaye umupira w'umutuku, hirya hakaba hari igiti kirekire, hirya yaho hakaba hari abandi bantu, umwe wambaye umupira w'ubururu n'uwambaye agakanzu n'igikapu cy'umukara.

Agapapuro gafite ibara ry'umuhondo kanditseho amagambo agiye atandukanye afite ibara ry'umukara hariho nayafite ibara ry'umweru hariho akandi gafite ibara ry'ubururu ndetse n'ubururu bwijimye cyane kandikishijweho amagambo afite ibara ry'umweru hariho umutuku ndetse n'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi iri ku muhanda, hakaba hariho ibyapa bifite ibara ry'umutuku, umuntu ufite telefone ngendanwa, akaba yambaye umupira ufite ibara ry'umutuku n'undi mukobwa ufite imisatsi y'umukara miremire wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umukara.

Imeza ifite ibara ry'umukara ririho urupapuro rufite ibara ry'umuhondo rwandikishijweho amagambo afite ibara y'umukara n'imibare ifite ibara y'ubururu, iriho hirya urupapuro rufite irara ry'umweru ruriho amagambo yandikishijwe irara ry'umweru, imibare ifite ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo.

Intebe zifite ibara ry'ubururu, ihema ry'ubucuruzi riri ku muhanda ririho abantu bambaye imipira y'umuhondo tw'ubururu, ipantalo y'umukara n'amapantalo y'ubururu bwerurutse, n'umumama utambutse wambaye ikanzu y'igitaka cyererutse n'icyapa kiriho abantu.

Ameza afite ariho ibintu bigiye bitandukanye, agakapu gafite ibara ry'ubururu, umumama wambaye ikanzu ifite ibara ry'ubururu, ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'umugabo uri kuyikoresha, wambaye umupira w'umukara n'agapantaro k'ubururu, wambaye rinete z'umukara n'umuntu uri hirya, wambaye umupira w'amaboko magufi usa umutuku n'uwambaye ishati y'amaboko maremare usa umutuku wijimye.

Akazu kari k'umuhanda gafite ibara ry'umuhondo hahagazeho abantu hari uwambaye ishati y'umweru irimo utuntu tw'umukara n'ipantaro y'umukara n'undi wambaye ishati isa nk'umutuku bw'ijimye n'ipantaro y'ivu, n'undi akaba yambaye umupira usa umweru urimo akarongo k'ubururu n'ipantaro y'ivu, n'umu mama wambaye ijipo y'umukara n'ishati is'umutuku.

Akazu ka ubucuruzi gatoya kari kumuhanda, kakaba gafite ibara rya umuhondo, hakaba harimo abantu umwe wambaye isaha ku kuboko, undi wambaye umupira wa umutuku.

Imeza afite ibara ry'umukara hari igikapu gifite ibara ry'umukara, umuntu uhagaze wambaye umupira w'umweru ufite akarongo k'umukara, ufite igiseke gifite amabara agiye atandukanye, umukara, umweru ndetse n'icyatsi, umuntu wundi akaba yambaye agapira gafite ibara ry'ubururu bwijimye n'undi wo hirya wambaye umupira w'umuhondo.

Umugabo ndetse n'umugore baraganira barikubazanya. Umugabo yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara. Umugore na we afite amafaranga mu ntoki ndetse yambaye ishati y'umukara. Bari mu kazu gato k'ikigo cy'itumanaho cya Emutiyene.

Igipapuro gifite ibara ry'icyatsi kiriho amagambo agiye atandukanye afite ibara ry'umweru, umuhondo ndetse n'imibare ifite ibara ry'umweru ucishijemo akarongo ifite ibara ry'umutuku hariho ibiribwa bigiye bitandukanye bifite ibara ry'umutuku, icunga, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru ruriho amagambo agiye atandukanye hariho agace gafite ibara ry'ubururu hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu ndetse n'umukara ruriho amagambo agira ati umuryango.

Urupapuro ruriho ibinu bigiye bitandukanye, rufite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru ruriho mudasobwa ifite ibara ry'umukara n'umweru, ruriho ibinu bigiye bitandukanye handitseho amagambo afite ibara ry'ubururu ndetse n'amagambo yandikishije ibara ry'umukara.

Umusore wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'ivu inyuma ye hakaba hari ibipapuro, bifite ibara ry'ubururu ryanditsweho amagambo afite ibara ry'umweru ndetse numukara hashushanyijeho terefone ngendanwa ifite ibara ry'umukara.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki gifite agasanduku inyuma kari mu ibara ry'umuhomdo ndetse n'icunga, umuntu wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umuhondo n'icunga, ufite isaha ku kuboko wambaye ipantaro y'umukara.

Icyapa cy'umweru cyo kumbuga nkoranyambaga cyiriho amagambo agiye atandukanye arimwibara ry'umukara ikijuju ndetse n'imibare hariho nutubara twumutuku, amashusho ariho igikapu umwenda wumwana ibirenge byambaye inkweto zifunguye ndetse n'igikoresho cyitumanaho.

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse n'umweru, hakaba hariho utunyenyeri dufite ibara ry'umuhondo, hakaba hariho inkweto zifite ibara ry'igitaka ndetse n'ivu n'umuntu wambaye isaha ku kaboko.

Urupapuro ruriho imipira igiye itandukanye, ifite amabara atandukanye, ibara ry'ubururu, umweru, umuhondo, icyatsi, icunga, ndetse n'umutuku. Hakaba hariho hirya n'udukapu dufite amabara agiye atandukanye, umutuku, ubururu, icyatsi, ndetse n'umuhondo.

Benya ziri kw'isahane ifite ibara ry'umweru ikozwe munyama ziseye nibindibintu bigiye bitandukanye hirya hariho keke iri kw'isahane ifite ibara ry'umweru n'amagambo yandikishijwe ibara hirya ry'umukara imibare ifite ibara ry'umukara nandi magambo afite ibara ry'ubururu.

Icyapa cy'ubucuruzi ku mbuga nkoranyamabaga kiriho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'icyatsi, ubururu, umukara ndetse n'agashushanyo k'izuba k'umuhondo hariho akagare munsi hari abantu bagiye batandukanye abagab n'abagore.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bwi imodoka kiriho amabara ubururu, umuhondo, umweru umutuku cyanditseho amagambo agira ati ngiposita gihagaze ku muhanda w'umukara inyuma yaho hari inzu ifite ibara ry'umweru ndetse n'ikigina.

Igikapu gifite iba ry'umutuku wijimye gafite akitero gafite ibara ry'umutuku ryijimye kariho umuhondo hejuru kaba ariho akandi gakapu gatoya gafite ibara ry'igitaka kariho n'akandi gafite ibara ry'iroza ryiyandicishijweho amagambo y'umukara.

Urupapuro rw'umweru ruriho ibintu byariba bitandukanye rwanditseho amagambo afite ibara ry'umukara n'imibare ifite ibara ry'umukara, ruriho ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki rifite agasanduku inyuma gafite ibara ry'umutuku n'icunga, hakaba hari n'amacupa abiri rimwe bisa ubururu.

Ikinyabiziga cyiri mu bwoko bw'ipikipiki, gihagaze inyuma gifite agasanduku gafite ibara ry'icyatsi, gafite amagambo yandikishijwe amabara y'umweru ndetse n'ubururu, hari umuntu wambaye ishati irimo uturongo twinshi tugiye dutandukanye harimo umweru, umutuku, ubururu.

Umuntu wicaye kugitanda wambaye ekuteri zifite ibara ry'umweru nimisatsi mire mire y'imukara, uriguseka ufite mudasobwa, terefoni ngendanwa y'umweru wambaye kora ifite ibara ry'ivu n'agapira k'umweru gafite ibara ry'umuhondo n'agakapu kuruhande gafite ibara ry'umukara kandikishijeho amagambo y'umweru.

Igipapuro cy'umweru kiriho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umukara, umutuku, icyatsi ndetse n'ubururu ndetse n'umuhondo, hakaba hariho ibishushanyo bigiye bitandukanye, inzu ifite ibara ry'icunga, ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'imodoka ifite ibara ry'ubururu bwijimye, intebe ifite ibara ry'umuhondo.

Mu tubari twinshi aho abantu bafite amafaranga yabo menshi bajya kunywera hakunze kuba amakontwari afite amatara yaka mu mabara atandukanye bityo bituma hagaragara neza kandi ku buryo buri muntu wese yakwishimira uburyo aho ahantutu hasa.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru, ruriho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'ubururu, ndetse n'umukara n'umweru, akaba ariho agakapu gafite ibara ry'icyatsi kanditseho inyuguti ifite ibara ry'umweru.

Ibinyabiziga muri bwoko bw'ipikipiki biri ku muhanda, bifite udusakame hejuru dufite ibara ry'icunga. Twandikishijeho amagambo y'umutuku, dufite kasike ifite ibara ry'umukara ndetse n'umutu, n'indi ifite ibara ry' umutuku n'umukara, hakaba hariho abantu bambaye amapantaro y'ubururu.

Urupapuro rw'umweru ruriho ibishushanyo bigiye bitandukanye byandikishijwe amagambo afite ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, hariho agakapu kariho umukobwa uteruye igitambaro wambaye iherena ry'igitambaro cyo mu bwoko bw'igitenge gifite amabara agiye atandukanye, umutuku , ubururu, umusore ufite akagofero hejuru gafite ibara ry'umutuku n'umweru.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, hirya gato hari ubusitani bwiza butoshye bw'icyatsi n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi biri imbere y'inzu yo mu bwoko bwa etage .

Urupapuro rw'umeru ruriho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umeru hariho agapapuro gafite ibara ry'ubururu ndetse n'iroza yererutse iriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara, hariho abantu babiri bari guseka bambaye ishati y'amaboko magufi ufite ibara ryiwe.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo agiye atandukanye; hejuru hakaba hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru n'umutuku wijimye, n'utundi dufite amabara y'icyatsi.

Urupapuro rw'umweru ririho ibintu bigiye bitandukanye rwandikishijweho amagambo agiye atandukanye, afite ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara n'umweru, hakaba hariho udushushanyo tw'ikinyabiziga bitagendera mu kirere gifite ibara ry'umuhondo n'akandi gafite ibara ry'umutuku n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara.

Ikinyabiziga kiri mu ubwoko bw'pikipiki, gifite agasanduku inyuma gafite ibara ry'umweru ndetse n'umukara n'icunga. Kandikishijeho amagambo afite ibara ry'umukara nk'icunga. Kicayeho umuntu wambaye ikote rifite ibara ry'umukara, ipantaro y'umukara ndetse n'akajiri gato gafite ibara ry'icunga n'umweru.

Ibinyabiziga biri mu bwoko bw'ipikipiki bifite amabara agiye atandukanye umutuku, icyatsi bifite udusanduku dufite ibara ry'umweru hariho uturongo tw'umukara hariho abantu bambaye ishati y'amaboko maremare irimo amabara agiye atandukanye ifite ibara ry'umweru, ipantaro ifite ibara ry'igitaka wambaye akajire gafite ibara ry'icunga ndetse n'ivu.

Ibinyabiziga biri mu bwoko bw'ipikipiki bifite udusanduko turiho amagambo yandikishijwe ibara ry'umutuku, ririho n'imibare yandikishijwe ibara ry'umukara n'andi magambo yandikishijwe ibara ry'umukara, n'akandi kariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umuhondo, bambaye ingofero zibafasha, bambara bari ku binyabiziga zifite ibara ry'umweru zandikishijweho amagambo afite ibara y'umutuku ziteretse mu byatsi.

Ibinyabiziga biri mu bwoko bw'ipikipiki, bikaba byicayeho abantu bambaye imipira y'umutuku yanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, bambaye ingofero iriho amagambo y'umweru ifite ibara ry'umutuku, hirya hari y'imodoka ifite ibara ry'umweru.

Urupapuro rw'umweru rufite amabara agiye atandukanye, rwandikishijweho amagambo afite ibara ry'icunga, andi afite ibara ry'umukara andi afite amara; amagambo afite ibara ry'ubururu n'imibare ifite amagambo y'umweru n'ama....

Umuntu wambaye umupira w'amaboko magufi, ufite ibara ry'icyatsi urimo uturongo tw'umutuku n'amagambo yandikishije ibara ry'umweru uri guseka. Ufite amverope irimo ibiribwa bigiye bitandukanye, bifite ibara ry'umuhondo, icyatsi ndetse n'agacupa k'amazi. Ufite ikinyabiziga kiriho agasanduku gafite ibara ry'icyatsi, kandikishijweho amagambo afite ibara ry'umweru.

Imodoka ifite ibara ryicunga ifite amapine yumukara ishushanyijeho, iriho amagambo afite ibara ryumweru hirya haramagambo afite ibara ryicunga nandi yandikishijwe ibara ryumukara nagacupa gafite ibara ryumukara.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki, inyuma hakaba hariho agasanduku gafite ibara ry'icyatsi, hariho umuntu wambaye hariho umuntu wambaye ishati y'amaboko magufi afite ibara ry'icyatsi n'akarongo k'umweru n'ipantaro y'ubururu uhagaze.

Ni urutonde rw'amazina agiye atandukanye yandikishijwe amabara atandukanye harimo; icyatsi cyerurutse, ubururu, umutuku, umuhondo, umukara, umutuku wijimye

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'imodoka gifite ibara ry'umutuku kiriho urupapuro rufite amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umweru, urupapuro rufite ibara ry'ubururu hariho imibare yandikishijwe ibara ry'ubururu hariho amagambo afite ibara ry'umutuku.

Agatebo karimo ibiribwa bigiye bitandukanye gafite ibara ry'icyatsi icunga, igitaka, umutuku ndetse n'umuhondo hakaba hariho ikinyabiziga gifite ibara ry'umutuku n'ibi n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umutuku.

Abakobwa babiri birabura bari guseka bafite imisatsi, umwe ufite imisatsi miremire iboshye, undi ufite umusatsi mwinshi, bafite impano ifite ibara ry'icunga yandikishijweho amagambo afite ibara ry'icunga, imibare ifite ibara ry'icunga hariho akantu gafite ibara ry'umweru.

Ifo umukobwa wambaye linete z'umweru ziriho uturonko tw'umutuku wambaye ibimurinda kwandura ku maboko bifite ibara ry'umukara n'umutuku wambaye umupira w'ivu n'agataburiya kamurinda kwandura gafite ibara ry' umutuku wijimye n'umukara hirya hariho ibyo kurya bigiye bitandukanye hariho amagambo yandiikishijwe amabara y'umweru.

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi handitseho imibare ifite ibara ry'iroza yashushanyijeho igisakoshi ifite ibara ry'umweru ndetse n'ivu hari ikote rifite ibara ry'umukara n'isanduku ifite ibara ry'umweru yandikishijweho amagambo afite ibara ry'ivu.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki gifite ibara ry'umutuku hakaba hariho agasanduku inyuma gafite ry'ibacunga ndetse n'umweru hariho umuntu wambaye ipantaro y'umweru ifite ibara n'umupira ufite ibara ry'umukara ndetse n'akajiri gafite ibara ry'icunga kariho amagambo yandikishije ibakara ry'umukara, n'undi wambaye agapfukamunwa k'umukara gafite akantu k'umweru, wambaye ipantaro ifite ibara ry'igitaka, ndetse n'umupira ufite ibara ry'umutuku wijimye.

Urupapuro ruriho ibishushanyo bigiye bitandukanye, harimo igikapu gifite ibara ry'igitaka, urukweto rufite ibara ry'igitaka n'umweru, ishakoshi ifite ibara ry'umukara, umupira ufite ibara ry'ubururu bwerurutse n'umweru, ekuteri zifite ibara ry'umweru ndetse n'imisatsi ifite ibara ry'umukara.

Igikapu kirimo ibyo kurya bigiye bitandukanye nk'imboga zifite ibara ry'umweru, icyatsi ndetse n'icyatsi ndetse n'umuneke ufite ibara ry'umuhondo n'urunyanya rufite ibara ry'umutuku, bikaba byandikishije ibara ry'umweru inyuma hakaba hari ibara ry'icyatsi.

Urupapuro ruriho umukobwa ufite ibara ry'umweru, ufite inzara z'ifite ibara ry'umukara wisize ibintu ku maso bifite ibara ry'umukara, ku minwa bifite ibara ry'iroze, hakaba hari n'agakapu kibara ry'icyatsi kashushabyijeho inyuguti ifite ibara ry'umweru n'amagambo yanditseho afite ibara ry'umukara.

Icyapa gifite ibata ry'umutuku n'icyatsi kikaba kiriho amagambo yandikiashijwe ibara ry'umweru n'andi ari mu kantu gafite ibara ry'umutuku wijimye, hakaba hariho umukobwa uri gusuka, hakaba hariho amacupa y'amavura akaba afite ibara ry'umweru n'icunga.

Ikinyabiziga kiri m'ubwoko bw'ipikipiki kiri k'umuhanda kikaba gifite agasuku inyuma gafite ibara ry'icyatsi cyandikishijeho amagambo y'umweru, ndetse n'umugabo uri hirya wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'icyatsi irimo uturungo tw'umuhondo iriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru n'ipantaro y'ivu, inyuma hari icyapa gifite ibara ry'icyatsi yandikishijweho amagambo y'umweru.

Icyapa cy'umweru cyo ku mbuga nkoranyambaga kiriho amagambo menshi agiye atandukanye, ari mu ibara ry'umukara n'icyatsi, ndetse hakaba hari n'iseri ry'imineke, n'undi muneke ku ruhande wavanweho igishishwa ugakatwamo uduce dutatu dutoya, n'ibijumba ku ruhande bibisi, bitari byozwa.

Urupapuro ruriho ibiribwa bigiye bitandukanye, bifite amabara agiye atandukanye afite ibara ry'umuhondo, icyatsi, umutuku, umweru ndetse n'icunga bikaba hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru.

Urupapuro rw'umukara ruriho amagambo agiye atandukanye rwandikishijwe mu mabara agiye atandukanye harimo umweru, ubururu ndetse n'ikigina, hakaba hariho inkweto zifite ibara ry'icunga, ry'igitaka ndetse n'umweru ikote rifite ibara ry'umukara n'umweru.

Urupapuro rw'umweru ririho amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu ndetse hariho n'umukobwa wambaye ingofero ifite ibara ry'umutuku, agapira k'amaboko maremare k'umweru, ijipo y'umutuku, imyenda imanitse ifite ibara ry'umutuku n'umweru ndetse n'ikigina.

Icyapa cy'umweru cyo ku mbuga nkoranyambaga kiriho amagambo menshi agiye atandukanye ari mu ibara ry'umukara, amanini ndetse n'amatoya; hari ibiganza bibiri bifashe agapfunyika by'abantu batandukanye gasa ubururu, kariho amagambo: y'ubururu, umutuku, umweru ndetse n'udushushanyo turiho tw'icyatsi.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru ryanditseho amagambo agiye atandukanye harimo amagambo afite ibara ryandikishijwe ibara ry'ubururu ndetse n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru n'umukara n'imibare iri hejuru ifite ibara ry'umweru n'utunyenyeri dufite ibara ry'umukara.

Icyapa kigizwe n'iabara ry'umuhondo cyerekana uburyo umuntu yishyura akoresheje terefone, cyatsitseho cyandikishijweho n'amabara y'umukara, agira ati:'' inshyura n amomo peyi. '' Ndetse haragaragara uburyo umuntu akanda ndetse na nimero ngo yishyure, hasi ha gitanga ubutumwa kigaragaza ko nt yandi mafaranga umuntu yishyura iyo akoresheje iyi serivise.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki, inyuma hariho agasanduku gafite ibara ry'icyatsi ndetse n'umukara kandikishijweho amagambo afite ibara ry'umweru. Umuntu wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'icyatsi wambaye ipantaro y'umukara, wambaye inkweto z'umukara zirimo uturongo tw'umweru n'uwambaye ishati y'umweru wambaye.......

Urupapuro rufite ibara ry'icyatsi rwandikishijeho amagambo agiye atandukanye afite ibara ry'umweru, icunga ndetse n'icyatsi, hakaba hiceye umugabo uri ku ntebe ifite ibara ry'ubururu ndetse n'imeza ifite ibara ry'ubururu, uri kuri mudasobwa ufite igikombe gifite ibara ry'ubururu bwerurutse.

Urupapuro rufite ibara ry' umweru rigiye ruriho ibishushanyo bigiye bitandukanye n' amagambo agiye atandukanye, amagambo yandikishijwe ibara ry' umukara, ibara ry' ubururu, ibara ry' icyatsi, ndetse n' umutuku hakaba hariho agafuniko gafite ibara ry' umukara ndetse n' ameza afite ibara ry' umukara n' ingofero ifite ibara ry' igitaka.

Icyapa cyo ku mbuga nkoranyambaga cya move, kiriho amafoto y'abantu batandukanye n'abagore n'abakobwa. Handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, umuhondo, umutuku. Ndetse muri abo harimo uwitwa Pawula Ingabire na Asumuta Ingabire.

Icyaoa cy'ubucuruzi cyo kumbuga nkoranyambaga, cy'umweru, kiriho amagambo menshi agiye atandukanye ari mu ibara ry'umukara, umutuku, ndetse hakaba hariho igishushanyo k'imodoka gifite ibara ry'umutuku, kiriho amagambo atandukanye y'umweru, n'udushushanyo tubiri tw'abagabo uwambaye ingofero y'umutuku.

Amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse n'inzira hirya hari indabyo ziteye zifite ibara ry'icyatsi ndetse ziteye mu kantu gafite ibara ry'igitaka hariho intebe zifite ibara ry'umutuku n'ameza afite ibara y'umutuku.

Inzu y'ubucuruzi irimo imyenda hakaba harimo amatara, ibirahure harimo imyenda igiye itandukanye yaba amashati y'amabara atandukanye y'umukara, ay'ivu, ay'ubururu bwererutse ndetse hakaba hasizemo n'irangi ry'umweru.

Mudasobwa irimo ibintu bigiye bitandukanye byandikishijwe amabara y'umukara ifite andi magambo afite ibara ry'ubururu, ndetse n'umweru, n'umuhondo, n'umutuku, ashushanyijeho ibintu bigiye bitandukanye n'amagambo ari hejuru yandikishijwe mu ibara ry'ubururu n'andi yandikishijwe mu ibara ry'umukara.

Agasahani gafukuye gafite ibara ry'umukara gateretse ku meza karimo ibiryo bigiye bitandukanye amakaroni, igi rifite ibara ry'umweru n'umuhondo n'ikirayi gifite ibara ry'umuhondo hakaba harimo n'isosi.

Abantu babiri bafite ingofero zo mu mutwe zikoreshwa bari ku binyabiziga zifite ibara ry'icyatsi n'umukara, uwambaye rinete zumutuku, umupira w'umukara n'imisatsi miremire, n'uwambaye umupira w'umukara, ufite akantu k'umweru, wambaye rinete z'umukara.

Urupapuro rw'umweru ruriho ibishushanyo bigiye bitandukanye, rufiteho amagambo afiteho amabara agiye atandukanye, afite ibara ry'umuhondo, afite ibara ry'umukara, idarapo rifite ibara ry'umutuku n'akanyenyeri gafite ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara ry'umuhondo, umweru ndetse n'icyatsi ririho akaziga gafite ibara ry'ubururu.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru ruriho amagambo agiye atandukanye arimo imibare yandikishijwe ibara ry'umukara, magambo yandikishijwe ibara ry'umukara, ndetse n'imibare n'amagambo yanyandikishijwe ibara ry'iroza, karimo udukomo dufite ibara ry'umukara turimo inyuguti zandikishijwe ibara ry'umweru, ndetse n'urutoki rufite akantu k'umukara.

Icyapa ku mbugankoranyambaga, kiriho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umweru, hariho umugabo wambaye agapira k'umutuku kerurutse ndetse n'umwana ufite umusatsi muremure wa shokora w'inzobe wambaye agapira k'umweru.

Icyapa cy'ubucuruzi kumbugankoranyambaga cy'umweru cyanditseho amagambo agiye atandukanye mwibara ry'umweru umukara utsindagiye ndetse n'umukara udatsindagiye, hakaba hari nandi mabara move, umutuku, umuhondo ndetse n'ubururu.

Icyapa cy'ubucuruzi ku mbuga nkoranyambaga cyanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umukara, umweru ndetse n'ubururu hariho udushushanyo tw'abantu babiri bicaye ku ntebe y'ubururu iyo umukara bafite mudasobwa umwe muri bo afite imisatsi miremire y'umukara.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru ruriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, rufite akandi gafite akabara k'iroze ryerurutse handitseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara, hakaba hariho abakobwa babiri bafite terefone mu ntoki n'agapapuro gafite ibara ry'umuhondo, bari guseka bambaye ishati y'amaboko magufi afite ibara ry'ivu.

Umuntu wambaye ishati yu y'amaboko maremare ifite ibara ry'ivu uri gukoresha mudasobwa hirya n'urupapuro rufite ibara ry'icyatsi ryandikishijweho amagambo y'umweru ndetse n'icunga, hirya haciyeho uturongo dufite ibara ry'icunga, handikishijwe amagambo afite ibara ry'icyatsi nanone n'icunga n'andi mabara agiye atandukanye arimo umuhondo n'ubururu.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ikipiki, gifite agasanduku ki inyuma gafite ibara ry'ubururu, kanditseho amagambo agiye atandukanye, yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, hirya hari umuntu wambaye ishati y'amaboko maremare, ifite ibara ry'iroze, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto zifunguye, n'undi wambaye umupira w'umuhondo, agapfukamunwa k'ubururu, ipantaro y'umukara, n'inkweto zifite ibara ry'umuhondo.

Umuntu uri guseka ufite imisatsi miremire ifite ibara ry'umukara yizingazinzemo gake, wamabye rinete z'umukara zifite ibirahure bifite ibara ry'umutuku, uri guseka ufite telefone ifite ibara ry'iroza ryerurutse.

Urupapuro rwanditseho amagambo agiye atandukanye rwandikishiijwe ibara ry'umweru, hakaba hariho n'ibindi by'ubururu inyuma, bigaraga ko hariho abantu bari kugenda mu nzu y'ubucuruzi.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki, gifite agasanduku inyuma gafite ibara ry'umutuku, umuntu wambaye ishati ifite ibara ry'umukara, wambaye ingofero y'ikinyabiziga ifite ibara ry'umweru, n'ikinyabiziga yayiye kiri mu bwoko bw'imodoka, gifite ibara ry'umweru n'umukara.

Umuntu wambaye inkweto zifunguye, zifite ibara ry'umukara, hejuru hariho agatambaro gafite ibara ry'umweru n'umukara, wisize amabara ku inzara, afite ibara ry'umweru, uhagaze, inyuma hariho utuntu dufite ibara ry'umukara ndetse n'ibirabyo bifite ibara ry'icyatsi.

Ikinyabiziga kiri m'umuhanda kiri mubwoko bw'ipikipiki inyuma ikaba ifiteho agasanduku gafite ibara ry'icyatsi kandikishijweho amagambo afite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, umuntu wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'icyatsi wanditseho amagambo afite ibara ry'ubururu, ipantaro y'ubururu, inkweto z'umweru zirimo umukara.

Urupapuro rw'umweru ruriho ibintu bigiye bitandukanye hariho amagambo yandikishijwe amagambo ry'umweru ndetse hariho n'ayandikishijwe ibara ry'umukara n'ubururu hariho n'akadarapo gafite ibara ry'umutuku gafite akanyenyeri gafite ibara ry'umuhondo ndetse n'akandi gafite ibara ry'umuhonod n'amagambo afite ibara ry'icunga.

Inzu y'ubucuruzi irimo abantu benshi bagiye batandukanye, bambaye ibisarubeti by'ubururu bwijimye n'utuntu mu mutwe tw'umweru, kariho ibitebo bifite amabara agiye atandukanye, umuhondo, umutuku n'ubururu, mo imbere birimo ibitoki bifite ibara ry'icyatsi.

Ameza afite ibara ry'icunga ndetse n'ubururu ateretseho mudasobwa hakaba hari intebe hicayeho umuntu wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ivu ufite imisatsi ireshya miremire, hakaba hari n'undi wicaye ufite wambaye ikanzu ifite ibara ry'umuhondo, akitero gafite ibara ry'umukara, akajiri gafite ibara ry'ubururu.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki inyuma hakaba hariho agasanduku gafite ibara ry'umuhondo ndetse n'icunga kandikishijeho amagambo afite ibara ry'umweru ndetse n'icunga hariho umuntu wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umukara.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru, hariho amagambo agiye atandukanye, yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse n'ubururu, hariho umukobwa uri guseka ufite imisatsi yikaraze y'ibara ry'igitaka n'umukara, ufite agakapu gafite ibara ry'umweru n'icyatsi, wambaye agapira k'umweru k'amaboko maremare.

Umusore ufite agasatsi karinganiye wambaye ikote ry'ubururu wambaye ishati y'amaboko maremare irimo uturobara tugiye dutandukanye wambaye isaha ku kaboko, ufite ikaramu ku mufuka n'agatambaro k'umutuku karimo uturongo tw'umweru turimo ibara ry'ubururu, inyuma ye hakaba hariho igipapuro kiriho amagambo agiye atandukanye ayandikishijwe ibara ry'ubururu, umweru, icyatsi.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki, gihagaze ku muhanda, kikaba gifite agatebo inyuma kariho ibara ry'icyatsi, hakaba hahagazeho abantu babiri, umwe akaba yambaye ipantaro y'ubururu,, ishati y'amaboko magufiya y'icyatsi, n'undi akaba yambaye ipantaro y'ivu n'ishati y'amaboko magufiya isa icyatsi yanditseho amagambo y'umweru, inyuma ye hakaba hari icyapa n'amazu.

Inyubako ifite amabara agiye atandukanye harimo umweru,i gitaka ndetse n'ivu hakaba harimo imirango ifite ibara ry'igitaka, amadirishya afite ibara ry'ivu, indabyo ziriho umweru ifite ibara ry'umukara ndetse n'agatapi gafite ibara ry'umutuku.

Inyubako ifite ibara ry'umweru, ifite imiryango ifite ibara ry'umukara, hariho ahantu bogereza hafite ibara ry'umukara, akabati hejuru gafite ibara ry'umweru, umuryango ufite ibara ry'igitaka, umuntu uhagaze hirya wambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'umutuku.

Inzu ifite ibara ry'icunga, ndetse n'umweru hafi y'ibiti bigiye bifite amabara agiye atandukanye, umuhondo ndetse n'icyatsi, ifite imiryango ifite ibara ry'igitaka, ndetse n'amarangi afite ibara ry'umweru n'ivu.

Utubati dufite ibara ry'umweru, ririho n'umukara harimo ibyo, igikoresho gikoreshwa gikonjesha, ibyo kunywa bigiye bitandukanye gifite ibara ry'ivu, ndetse harimo n'ibirahure bifite ibara ry'umweru n'aho batekera hafite ibara ry'igitaka.

Inyubako ifite ibara ry'igitaka hamwe n'ivu iriho indabyo zigiye zitandukanye zifite amabara y'umukara ndetse n'icyatsi. Hariho igipangu gifite ibara ry'ivu, hirya hari ipoto ry'amashanyarazi ifite ibara ry'umweru, hariho ibiti bigiye bitandukanye bifite amabara y'icyatsi.

Icyumba gifite amabara agiye atandukanye, amarido afite ibari gitaka ndetse n'umweru, tapi ifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru hakaba hariho imiryango ifite ibara ry'umweru, igikuta gifite ibara ry'umweru hamanitseho ibipapuro bifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru n'ivu.

Icyumba gifite ibara ry'umweru, igitanda gifite ibara ry'ivu, akabati gafite ibara ry'ivu ndetse n'imatera ifite ibara ry'umweru n'imisego ifite ibara ry'umweru hejuru hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara, idarapo rifite ibara ry'icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu harimo.

Inzu ifite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, amabati afite ibara ry'umukara, ibuni iri kuruhande ifite ibara ry'umuhondo n'umweru, iriho indabyo ifite ibara ry'icyatsi, inzugi zifite n'ibara ry'umweru.

Inyubako ifite ibara ry'umweru, ifite n'uturongo tw'umukara, inzugi zifite ibara ry'umukara intebe zifite ibara ry'umweru, inzugi hirya zifite ibara ry'igitaka, ibiti birebire bifite ibara ry'icyatsi, ndetse n'utugufiya dufite ibara.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye ifite akabati gafite ibara ry'umweru harimo linete zigiye zitandukanye zifite amabara y'umukara, umweruru ndetse n'ubururu, harimo n'amashakoshi ngendanwa, udusakame dufite ibara ry'umweru, igitaka, umukara, umutuku ndetse n'umuhondo hakaba harimo n'utwitero dufite ibara ry'iroza.

Inyubako irimo ibyo kurya bigiye bitandukanye, harimo umu mama wambaye ijopo ifite ibara ry'ivu, n'agapira gafite ibara ry'iroze, n'inkweto zifunguye, n'undiwambaye inkweto zifunguye, ipantaro y'umukara ndetse harimo ibiribwa bifite amabara agiye atandukanye harimo icyatsi, umuhondo, umutuku.

Inyubako irimo abantu bagiye batandukanye, harimo ameza afite ibara ry'igitaka, intebe ifite ibara ry'umweru harimo n'umutuku, n'umuntu wambaye ikanzu ifite ibara ry'iroza, inkweto z'umweru afite n'agakapu gafite ibara ry'igitaka, n'uwambaye ingofero ifite ibara ry'igitaka, ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'ubururu n'ipantaro y'ubururu, inkweto z'umukara n'igitambaro gifite ibara ry'icyatsi, ubururu ndetse n'umweru.

Abantu bahagaze bambaye imyenda igiye itandukanye harimo uwambaye inkweto zifite ibara ry'igitaka ipantaro y'umukara ishati y'ubururu n'amaboko maremare igitenge gifite ibara ry'igitaka umweru ndetse n'umutuku n'inkweto zifite ibara ry'igitaka uwambaye inkweto z'umukara igitenge cy'umutuku kiririmo umweru ndetse n'ubururu wambaye umupira w'ubururu.

Umuntu wambaye ishati ifite ibara ry'umweru, karuvati ifite ibara ry'umukara ririmo utudomo tw'umweru, abantu bari kumubaza hari telefone imbere ye zifite amabara atandukanye umukara ndetse n'umweru hari umuntu wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'igitaka inyuma ye igipapuro gifite ibara ry'ubururu ryanditse n'amagambo afite ibara ry'umweru.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye, irimo imeza ifite ibara ry'icunga n'aka hejuru gafite ibara ry'umukara rehotubati dufite amabara atandukanye umutuku n'ibicuruzwa bifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru n'umuhondo hirya ahahagaze umuntu wambaye ingofero ifite ibara ry'umweru akajire gafite ibara ry'umuhondo n'umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umutuku wijimye.

Inzu y'ubucuruzi igiye irimo ibiribwa bigiye bitandukanye irimo utubati dufite ibara ry'umweru harimo ibiribwa biri mu dufuka dufite ibara ry'ubururu n'umuhondo, ndetse n'ubururu n'umuhondo n'umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi kijimye, icyatsi kijimye ndetse n'umweru harimo udufite umuhondo ndetse n'icyatsi.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibintu bigiye bitandukanye, harimo umuntu wambaye umupira ufite ibara ry'icunga, inkweto z'umukara ndetse n'umweru, ipantaro ifite ibara ry'ivu, n'uwambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'ivu ry'ijimye n'ipantaro ifite ibara ry'ivu, uwambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umweru n'uturongo tw'umukara.

inzu y'ubucuruzi irimo ibintu bigiye bitandukanye, hari umuntu wambaye ipantaro ifite ibara ry'umuhondo wijimye n'inkweto z'umweru n'umupira w'umutuku ufite imisatsi myinshi n'undi wambaye umupira ufite ibara ry'icunga, ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'umweru n'uwambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umukara ikabutura ifite ibara ry'umweru n'amarinete y'umukara mu ntoki.